Ni abagabo ndetse n'abana batoya, bigaragara ko ari abari gutanga inama ku bijyanye n'ubuzima rusange, hari umwe ufite igitabo mu ntoki wambaye ijire y'umukara.

Icyumba kibereyemo inama, ikaba isojwe hafashwe imyanzuro ishobora gutuma abaturage bakomeza kugira ubuzima bwiza ndetse no kwitabwaho mu bindi bice bitandukanye, yitabiriwe n'abagore n'abagabo, abazungu ndetse n'abirabura.

Icyanya gitunganyirizwamo amazi meza mbere yuko yoherezwa mu baturage, hagiye hari ibidamu by'inziga byose bimeze nkaho bizenguruka, aho amazi ajyamo yikaraga agaca no mu bindi byuma ubundi akoherezwa mu baturage.

Icyumba kiberamo ubuvuzi, aho harimo abaganga batandukanye barimo uw'umukobwa wambaye agapfukamunwa, akanozasuku, ndetse akaba ari kureba mu byuma byabugenewe byifashishwa n'abaganga.

Umwana mutoya uri ku ivomo rusange ryashyiriweho abaturage, mu rwego rwo kubegereza amazi meza kugira ngo bage bayifashisha mu kuyatekesha, mu kuyakoresha amasuku, yambaye ikabutura y'umutuku n'agapira ka gisirikare.

Ubuvuzi bwegereye abaturage bukorwa iyo abaganga bavuye ku mavuriro, bakajya mu bice by'icyaro maze bagapima abarwayi ndetse bakagenda bamenya neza imiti yo kubahereza.

Abana benshi bo mu giturage bakaba babonye amazi, bishimye none bari gukina nayo, aho buri umwe ari kurwanira gukoza ikiganza kuri ayo mazi ngo akarabe intoki ze.

Hari gahunda yashyizweho ku bigo nderabuzima, ikunze gukorwa n'abajyanama b'ubuzima, aho bafata abana bakabapima, kugira ngo habashe kumenyekana uburyo bw'imikurire yabo nimba ibiro bafite bihwanye n'imyaka yabo.

Bahuje ibiganza, bari kuramukanya; barishimye. Abari kubareba baricaye. Ni umugabo wambaye umupira wa oranje, ari kuramutsa akana gatoya, bigaragara ko ari kugashimira; bari rwagati mu ishyamba.

Abana batatu bari mu cyumba cy'ishuri, babiri muri bo bamanitse agatoki nk'ikimenyetso kigaragaza ko ikibazo mwarimu ababajije biteguye kuba bagisubiza, inyuma yabo hari ikibaho cyanditseho amagambo atandukanye y'amasomo biga.

Mugabo ndetse na Rugira bari bari mu rugendo maze bahura ku buryo butunguranye, ntibaherukanaga n'ubwo bari kwihuta ariko bahagaze akanya gato, bari kubazanya amakuru umwe abwira undi ati '' se ko wabuze ko twaburanye wokabyara we.''

Ni umunsi nyirizina wo gufungura ku mugaragaro uburyo bwo kwita ku bana ndetse no kwita ku bibazo bahura na byo, hari abakobwa n'abahungu babiri bari gukina ikinamico, mu rwego rwo kwizihiza uwo munsi.

Ku ivomero rizwi nka nayikondo hari kugaragara umukobwa w'umusirimu ari kuvomera utwana dutoya, nyuma yuko yari ari mu modoka y'umweru iparitse hirya akaducaho akabona kuvoma byatunaniye agahita aza kudufasha gupompa amazi.

Umuryango mpuzamahanga w'abibumbye agashami gashinzwe kwita ndetse no kurengera abana, ukaba witwa UNICEF, urangwa n'amabara y'ubururu ndetse n'umweru, aho wanditseho amagambo agira ati:" Kubwa buri mwana wese."

Umugabo w'umwirabura ahagararanye n'umudamu ukuze w'umuzungu, bafite agakapu mu ntoki k'umukara kanditseho n'amagambo y'umweru ngo tembera u Rwanda, inyuma yabo hari ibyapa biri mu mabara y'ubururu.

Mu cyumba cyo kwa muganga hari kugaragaramo abavuzi bari kwita ku murwayi, aho bamushyizeho igipimo ku kaboko kigaragaza uko umuvuduko w'amaraso yiwe uri kugenda.

Icyumba kiri kuberamo inama yitabiriwe n'abajyanama b'ubuzima, barimo abagore n'abagabo bakaba bafite ibitabo bari kwandikamo, bambaye imyenda isa y'ubururu, abadamu bakenyeye ibitenge.

Umukobwa uvuye mu bwiherero, akaba yarashyize kandagira ukarabe iwe mu rugo, mu rwego rwo kugira ngo anoze isuku z'intoki kuko iki ni kimwe mu gice dukoresha ahantu henshi, hashobora kutuviramo uburwayi tutazisukuye.

Umubyeyi uhetse umwana, akaba ari ku ivomero rusange, aho ari koza umufuniko utukura w'indobo y'umuhondo, namara kuwoza akaza gutwaramo amazi.

Abantu baje mu gikorwa cy'urukundo, aho bari guha abana batoya amata yo kunywa ari mu byansi ndetse n'inkongoro, barimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba abenshi muri bo bambaye impuzankano y'imyenda itukura.

Mu kidendezi cy'amazi hagaragara abana batatu batoya, bafite ibikoresho birimo indobo z'ubururu n'iz'umweru, aho baje kudaha amazi, bigaragara ko atari meza habe na gato.

Ibyanya bitunganyirizwamo amazi uba usanga byihariye aho bikorwa mu muzenguruko, akaba hagati harimo ikidendezi cy'amazi mu rwego rwo kugira ngo atunganywe agere ku baturage asa neza.

Umugore wicaye hagati y'abana benshi, bose baramwishimiye, yambaye amadarubindi, ateze igitambaro mu mutwe we, harimo abana bato b'abakobwa ndetse n'ab'abahungu, biragaragara ko hari ibyo bari kureba.

Akana gatoya gasoje kuvoma, hari umugabo uri imbere yako, biragaragara ko atakabaniye neza kuko ari kukarebera gaterura indobo yakananiye kagiye kuyikorera, icyo ari bukore ni ukugashyiriraho ingata gusa.

Hari abantu benshi cyane bamwe bambaye impuzankano y'umweru, harimo babiri umwe wambaye akajire gatukura undi wambaye ak'umuhondo, hari umugabo wicaye ku ntebe uri kunywa ikinini, biragaragara ko bari mu gikorwa cyo kuvura.

Mu ihema hicayemo abantu bitabiriye ibiganiro, bose bambaye impuzankano y'umweru, barareba imbere yabo, biragaragara ko hari uri kubagezaho ikiganiro kuko bose barakurikiye bateze amatwi.

Abagabo bambaye amakoti y'amabara atandukanye, harimo abirabura ndetse n'abazungu, bamaze kuganira, urabona ko hari abari kuramukanya baganira bishimye, biragaragara ko ibiganiro byagenze neza.

Imbere y'ibiro by'akagari, hazindukiye abaturage benshi baje kwaka serivisi. Kubera ko ari benshi bari biteguye kwakirwa, babatereye ihema, mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bameze neza.

Mu cyumba kiri kuberamo inama yitabiriwe n'abanyacyubahiro batandukanye, hagaragaramo abagore b'imisatsi miremire igiye inyuma, hari batatu bari imbere bari gutanga ikiganiro inyuma yabo hari icyapa cy'ubururu.

Umukobwa wicaye asutamye, yambaye akajipo k'umukara ndetse n'umupira w'iroza. Afite injerekani yateretse mu mabasi, aho ari kuvoma amazi yishimye aseka, inyuma ye hanitse imyenda.

Ahantu hari ikidamu gitunganya amazi, hirya hari inyubako, kiri mu ishusho y'uruziga, aho mbere y'uko amazi ajya mu baturage, abanza guca bene aha ngaha, agasukurwa agatunganywa, ubundi akabona koherezwa mu ngo z'abaturage.

Ababyeyi babiri, baje kuvoma gushaka amazi, hari amajerekani menshi ateretse aho ngaho. Umwe yakenyeye igitenge azengurutsa umupira w'ubururu mu nda, undi ateze amazi, hari akana k'agakobwa kari hafi aho.

Ibiganza bibiri bitari kugaragara nyirabyo biteze ku ivomo ry'amazi aho biri gukaraba intoki, uyu ni umuco ukwiye kuranga buri wese, aho tugomba kugira isuku mu biganza byacu.

Abaganga b'inzobere batatu, bakaba bafite udukarito turimo inkingo, babiri muri bo bambaye imyenda y'ubururu, uwo hagati yambaye iy'umweru, bambaye udupfukamunwa ndetse n'utunozasuku mu mutwe.

Ibimodoka binini bishoreranye bikaba bitwaye imiti ndetse n'ibiribwa, ibi ngibi ni ibitabara imbabare bakaba babijyanye mu nkambi, hometseho ibipapuro by'ubururu n'umweru bigaragaza umuryango w'abibumbye.

Abana benshi biga mu mashuri abanza, mu gihe cy'akaruhuko aho batari mu masomo, bose bihutiye kuza gusoma ku mazi kuko inyota yari ibishe, bafite udukombe mu ntoki, abandi bari kubyiganira kuza kunywa amazi.

Ikirango cy'umuryango w'abibumbye, ishami ryita kuzima, kikaba gishinzemo igiti kizengurutseho inzoka, ku mpande zombi hariho amashami, kikaba kiri mu mabara y'ubururu n'umweru.

Abantu batandukanye bari ku Kigo Nderabuzima, harimo umubyeyi umwe wakomeretse mu gahanga kuko bamupfutse, akaba yambaye ikoti ry'ubururu ndetse yiteye n'igitambaro mu mutwe. Hari kandi umwana w'umusore uri hagati yabo.

Umuzungu ndetse n'umwirabura bicaye imbere y'imbaga, aho bari gutanga ikiganiro cyabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri nine, bishimiraga ku kuba barwanyije icyorezo cya Marburg.

Ku nkombe y'amazi magari, haragaragara abantu batatu, barimo uwambaye ingofero n'ipantaro y'umukara, ishati y'ubururu, hari umubyeyi uteruye akana bakaba bagiye gufata ibipimo by'umuriro we.

Abantu batatu, bose b'igitsina gore. Bari ku ivomo ryegerejwe abaturage. Aho abantu bose baza kuhavoma mu rwego rwo kugira ngo amazi bayatekeshe, bayanywe ndetse bayakoreshe n'amasuku atandukanye.

Ku kigo nderabuzima hahuriye ababyeyi benshi baje gukingiza ndetse no gupimisha abana babo, barimo uyu ukenyeye igitenge cy'icyatsi ndetse akaba ateruye umwana we, afite urupapuro ruriho ibisubizo by'umwana.

Mu rwego rwo kwegereza amazi meza abaturage bo mu bice by'ibyaro, ahatabasha kugira ama robine leta yagiye ishyiraho amazi yifashishwa aho bayapompa bayakura mu butaka, maze abaturage bakabona amazi meza, hari umusore uri gukora ubwo buryo ndetse n'abana benshi baje ku mugezi.

Abantu bari mu cyumba kiberamo inama, barimo abagore n'abagabo, barimo abazungu ndetse n'abirabura, bakaba bamaze kuganira, hanyuma bagafata ifoto y'urwibutso.

Leta y'u Rwanda mu rwego rwo kunoza imyigire y'abana, cyane cyane abaturuka mu miryango ifite amikoro makeya, yashyizeho gahunda yo kujya igaburira abana ku ishuri nk'uko aba bari kurya bambaye impuzankano z'ubururu ndetse n'iza kaki.

Umuganga w'umudamu akaba yambaye ikoti yarengejeho itaburiya y'umweru, ari gusuzuma abagore bicaye ku ntebe ku murongo, abenshi bakenyeye ibitenge, aho ari kubasuzuma umuvuduko w'amaraso.

Abajyanama b'ubuzima benshi mu mirenge, mu tugari no mu midugudu, iyo bamaze kuganira usanga bafata ifoto y'urwibutso kugira ngo bajye bahora bazirikana ibyo bihe, hari abadamu bakenyeye ibitenge harimo abambaye amajire y'icyatsi basoje icyo gikorwa.

Umwana mutoya w'umukobwa yagiye mu kidendezi ahashobora kumuviramo ibyago byo kuba yarumwa n'inzoka n'ibindi bisimba byo mu mazi, akaba ari kuvoma, bigaragara ko aya mazi atari meza ku buzima bw'abantu.

Abantu benshi batandukanye biganjemo ab'igitsina gore, bazindukiye ku Kigo Nderabuzima, aho baje kureba serivisi zijyanye n'ubuvuzi. Bicaye ku murongo kugira ngo baze kugenda uko baje bakurikirana.

Kwa muganga haba hari ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga cyane cyane abakora ubuvuzi buteye imbere, aho bifasha abaganga b'inzobere mu gusuzuma indwara z'abarwayi hari mugangakazi wambage agapfukamunwa ndetse n'akanozasuku mu mutwe k'umuhondo, wambaye kandi umwambaro w'icyatsi.

Abaganga b'inzobere barangije icyiciro bari bari kwigaho ubuvuzi aho bwabereye ku kigo nderabuzima cya Nyabageni, barimo abasore ndetse n'abakobwa.

Ku kigo nderabuzima, hahuriye abagore ndetse n'abandi bantu b'ingeri zitandukanye, barimo abana n'abakuru, bose baje gushaka serivise z'ubuvuzi mu rwego rwo kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kugenda neza.

Ijerekani nyinshi ziri ku murongo, abaturage baje gushaka amazi, akaba ari kuva mu kazu k'ubururu n'umweru, aho yifashishwa mu rwego rwo kugira ngo abaturage banoze isuku bagire n'ubuzima bwiza.

Umukobwa ugeze mu kigero cy'ubwangavu avuye ku bwiherero, aho ari gukaraba intoki mu rwego rwo kunoza isuku, ni umunyeshuri wambage impuzankano y'ijipo y'ubururu ndetse n'imbere harimo ishati y'umweru.

Abajyanama b'ubuzima bakaba bitabiriye amahugurwa yabereye mu ihema riri mu mbuga irimo ubusitani. Bose barahagaze bari kuririmba banakoma amashyi, bakaba bambaye impuzankano y'ubururu.

Ihuriro ry'abantu benshi biganjemo abaganga, aho bamaze kuganira ku buryo bwo gukuramo inda, kurwanya gutwita kwa bangavu kuba kutateganyijwe.

Umwana mutoya wambaye ikabutura y'icyatsi ndetse n'ishati y'ubururu bwerurutse, akaba agiye gukaraba intoki, aho agiye gufungura amazi ari mu ndobo iteretse ku ntebe.

Ingimbi n'abangavu bari ku mashuri, usanga basanganirwa n'abaganga, maze bakabakingira indwara zitandukanye, aho abakobwa bakingirwa inkondo y'umura biri gukorwa n'umuganga, wambaye itaburiya y'umweru.

Doctor Sabin Nsanzimana akaba ari Minisitire w'Ubuzima mu Rwanda, ari gutanga imbwirwaruhame ahanini igamije kugukangurira abantu kwita ku buvuzi bufite ireme kuko ariyo soko y'ubuzima bw'abaturage.

Abana benshi ubona ko bari hamwe bishimye bambaye impuzankano y'umweru, bamanitse ibipapuro byabo mu ntoki biragaragara ko ari ku munsi wo gusezererwa bahawe indangamanota zabo.

Imirimo ivunanye ukunze gusanga ikorwa n'abantu b'abagabo. Aha hari abadamu babiri bitinyutse bahitamo gukura amaboko mu mufuka na bo bakora bene iyo mirimo, kuko bari guterura imifuka iremereye cyane.

Umusaza ugeze mu zabukuru, ufite imvi z'urugenzi, yambaye ingofero ndetse n'ikote ry'umukara, ari kwitabwaho n'abaganga baje gukora isuzuma bambaye impuzankano y'ubururu.

Uruhurirane rw'abana biga mu mashuri abanza bakaba ku ivomo begerejwe aho harimo bakobwa ndetse n'abahungu, bose bari gukaraba intoki abandi bagashyira amazi mu ndobo mu rwego rwo kujya gukora isuku.

Ku ivomo rusange haragaragarara ibivomesho byinshi, birimo amajerekani, indobo ndetse n'amabase, hari abana b'abakobwa babiri bafashe ku ipompo aho bari gukura amazi mu butaka, hari umubyeyi kandi uri kumwe n'akana gato.

Abantu bari imbere y'abandi aho bari kubagezaho ikiganiro ku nsanganyamatsiko bateguye kuganiraho, barimo abagore batatu ndetse n'abagabo batatu.

Ibyuma bibiri bigizwe n'ibara ry'umukara mutoya ahagana hepfo ndetse n'ubururu hejuru, ibi ngibi bizwiho kubika umwuka, aho abaganga babyifashisha mu kongerera abarwayi bafite umwuka mukeya.

Umwana mutoya uri mu kigero k'imyaka ya cumi ndetse na cumi n'ibiri yambaye impuzankano y'ishuri igizwe n'ishati y'umuhondo ndetse n'ikabutura y'ubururu, afite ibikombe bibiri birimo amazi, amwe aranduye andi ni meza.

Umuganga w'inzobere cyane cyane mu kuvura abana batoya. Hari akana gakikiwe n'umubyeyi wako, kahuriye n'ikibazo cyo gukomereka ku mutwe, akaba ari kugapfuka. Urabona ko akana kashinyirije.

Icyapa cy'ubururu ndetse n'umweru, cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ariko ugenekereje mu kinyarwanda, ni icyizere cya buri mwana wese, mu cyumba cy'inama iteraniyemo abazungu.

Abana biga mu mashuri abanza, bose bambaye impuzankano ya kaki, barimo abakobwa n'abahungu, bari ku ivomo rusange, aho bagiye gutwara amazi yo gusukura ibyumba by'amashuri bigiramo.

Abasore n'inkumi, abakuze n'abakiri bato bahagaze mu mbuga irimo isima y'umutuku, barimo abakobwa ndetse n'abasore, bakaba bose bishimye.

Abasore n'inkumi b'urubyiruko, bakaba bose bambaye impuzankano y'ubururu, ishushanyijeho amagambo y'ibara ry'umweru ndetse n'ingofero, bose bafunze igipfunsi nk'ikimenyetso cyo kwishimira ibyo bamaze kugeraho.

Mu bice by'icyaro, usanga ari hamwe mu hatagera amazi cyane ariko Leta y'u Rwanda yagiye igikemura, aho yagiye yegereza amazi kuri buri muturage wese. Hari amajerekani menshi ndetse n'ibindi bivomesho, aho hari kugaragara ku mugezi, abahungu n'abakobwa.

Icyumba kiri kuberamo inama yitabiriwe n'abantu benshi cyane b'ingeri zitandukanye, hari abagera kuri batandatu bari imbere bari gutanga ikiganiro barimo n'abazungu.

Umudamu wambaye agapira gatukura, aho ari kuvuga ati: "Twagerageje gukora urugendo rurerure, twiyubaka ndetse turi kugenda tubigeraho."

Ku ivomo rusange hari kugaragara urujya n'uruza rw'abantu, yaba abato ndetse n'abakuru. Iri vomo riri gutanga amazi imbere n'inyuma. Batezeho indobo abandi bafite amajerekani baritegura kuvoma.

Abantu bahuriye mu cyumba kimwe, biragaragara ko aha ngaha hari kubera igikorwa cyo gupima abana, aho gikorwa n'abajyanama b'ubuzima. Umugabo ari kubaha amabwiriza y'uko biri bugende.

Umukobwa uri ku ivomo rusange ryegerejwe abaturage, muri gahunda ya Leta yo kugeza amazi meza no mu bice by'icyaro kugira ngo ubuzima bw'abaturage burusheho kugenda neza, banywa, batekesha, bakaraba amazi meza asukuye.

Ni ikigereranyo kigaragaza uburyo ki ihame ry'uburinganire ryagiye ryubahirizwa. Aho kuva mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani ryari rigeze ku kigero cya mirongo itanu na gatanu ku ijana. Naho muri bibiri na makumyabiri na rimwe kigeze kuri mirongo irindwi n'icyenda.

Umusore uri gukora ibinyuranye kuko ari kogereza igare mu kidendezi cy'amazi, hanyuma hakaba hari n'umugore uri kuyavoma kandi abona ko uyu mugabo wambaye umupira w'umuhondo yamaze kuyanduza.

Abantu batandukanye bambaye impuzankano z'ubururu bakaba barimo abirabura ndetse n'abazungu, bari gupima umwana uburebure bwe ndetse n'ibiro bye kugira ngo bamenye nimba ari gukura neza.

Uruganda rushinzwe gutunganya ibintu bitandukanye, haragaragaramo ibyuma kabuhariwe by'icyatsi ndetse n'iby'ubururu, hari umuntu wambaye imyenda y'umukara n'ingofero y'umweru, uri gutambuka areba nimba biri gukora neza.

Kandagira ukarabe iriho indobo y'icyatsi kibisi ndetse n'akabase gatoya, hari umwana w'umunyeshuri wambaye impuzankano, akaba ari gukaraba intoki mu rwego rwo kunoza isuku.

Ihema ryicayemo abantu, rikaba ritatse ibintu bigize amabara agizwe n'ibendera ry'igihugu, icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu. Umwe ahagaze imbere y'abandi, afite indangururamajwi mu ntoki, ari kubagezaho imbwirwaruhame.

Umuntu wahuye n'ikibazo, cy'agahinda gakabije, aba akwiye kwegerwa, akaganirizwa, agahumurizwa, kuko ibi ngibi iyo bidakozwe, iyo ndwara irakura ikaba yavamo ubusazi.

Umubyeyi wambaye umwambaro urimo ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, akaba yambaye amadarubindi, afite impeta ku rutoki ari kwerekana ikarita ye y'akazi kuko akorera ikigo gishinzwe kwita ndetse no kuramira abantu bahuye n'ihungabana, muri Jenoside yakorewe Abatutsi, mu w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane.

Ni umukobwa ubona ko afite ikibazo yubitse umutwe, arangije ashyiraho ibiganza byombi, imisatsi ye ifite ibisuko aho yayizingiye hejuru, yambaye agapira k'umweru, ni byiza ko abantu nk'aba bafite ibibazo tubegera tukabahumuriza.

Umwana mutoya wicaye mu cyumba cy'ishuri aho ari ku gatebe k'umuhondo. Akaba yambaye impuzankano y'umweru ndetse na karuvati y'ubururu bwijimye, ari guhekenya biswi, arishimye, ameze neza.

Uruhurirane rw'abana benshi b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, barishimye bose bari gupepera, bambaye impuzankano y'ubururu, inyuma yabo hari icyuma kirekire gishinzeho ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Ubuzima bwo mu mutwe, ni ingenzi kuko ubwonko bw'umuntu nibwo zigiro ry'ibintu byose akora. Hari umusore rero uri gushishikariza abantu kwita kuri bene ubwo buzima, wambaye umupira w'umweru n'amadarubindi.

Umugore uhinguye afite igitebo kirimo imigozi y'ibijumba biragaragara ko avuye mu murima gukura ibijumba, afite isuka mu ntoki arishimira umusaruro yagezeho.

Umugabo bigaragara ko yahuye n'ikibazo cy'ihungabana, amarira ari gutemba ku matama he yewe afite n'ibimwira, yambaye iherena, arababaye, urabona ko akeneye uwamusanga akamuhumuriza.

Agahinda gakabije ni kabi, kuko buriya gashobora gutuma bikuviramo uburwayi bwo mu mutwe, uyu musore yambaye umupira w'umukara, yipfutse mu maso biragaragara ko ababaye.

Imbere y'ibitaro bya Caraes byita ku bafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe, hagaze umugabo wambage ipantaro y'umukara ndetse n'ishati, afashe mu biganza byombi akaba akora muri ibi bitaro.

Umukobwa ari kumwenyura yambaye agasengeri k'umukara, afite agashanete mu ijosi kagana ku mabere, akaba yambaye ikabutura y'ikoboyi, yayizinze, ari kumwenyura yakoze ku misatsi.

Umuntu wahuye n'ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, akaba yicaye mu muhanda rwagati, ni ibintu biteye isoni n'agahinda, yatoraguye ibicupa ndetse n'indi myanda, hari utuntu ari gushyira mu gashashi.

Umukobwa uri mu iduka ryiwe, aho acuruje ibintu bitandukanye, yambaye ijire y'ikigo cy'itumanaho ya MTN y'umuhondo, ari kumwenyura kuko bigaragara ko yiteje imbere.

Mu cyumba kiri kuberamo inama, hitabiriye abagore n'abagabo, ku meza hari ibitambaro by'ubururu n'umweru, uducupa turi kunywerebwamo amazi, ndetse n'amasakoshi. Hari umudamu uhagaze hagati, uri gutanga ikiganiro.

Amagambo ari mu mabara atandukanye, ndetse amwe arahagaze, andi aratambitse, ari mu rurimi rw'Icyongereza, ariko ugenekereje mu Kinyarwanda, icyo agamije ni ugushishikariza abantu kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Umugabo ufite uburwayi bwo mu mutwe, yicaye hakurya y'umuhanda. Ku gikuta yegamyeho handitseho amagambo y'umukara atagaragara neza. Yambaye agapira k'umutuku n'ipantaro isa nabi, iruhande rwe hari imyanda.

Abagore batatu bari mu murima, bose bafite utubando. Umwe yarangaye, arareba hirya, abandi babiri bakaba batumberaye imbere yabo. Umwe afite umwana w'uruhinja, akaba ari kumwonsa.

Umugabo bigaragara ko afite ikibazo uburwayi bwo mu mutwe, aho ari iruhande rw'ingarani irimo imyanda myinshi itandukanye, ariko imyinshi muri yo yayishyize ku myambaro yiwe.

Icyumba kimaze kuberamo inama yitabiriwe n'abantu benshi batandukanye, barimo abasore n'inkumi, bakaba basoje kuganira bimwe mu bishobora guteza imbere ubuvuzi, bukagera kuri buri muturage wese.

Umunu wambaye ingofero y'ubwoya, biragaragara ko afite agahinda gakabije, aho afite agatambaro ari kwihanagura amarira, agahinda gakabije gashobora kuvamo indwara yo mu mutwe, iyo ugafite adakurikiranywe hakiri kare.

Umugabo ufite imisatsi myinshi ndetse n'ubwanwa bwinshi ntago asa neza biragaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, afite umuneke ari kurya, bene aba ngaba aho uzajya ubabona ujye ubasanganira maze urebe ko wagira icyo ubafasha.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko rwambaye impuzankano y'umukara ndetse n'abandi ubona ko bakuze, harimo yewe n'abihayimana bazwi nk'ababikira, bamwe bicaye ku ntebe zitukura, abandi barahagaze.

Umugabo wahuye n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, yambaye ubushwambagara, afite imisatsi myinshi ndetse n'ubwanwa, ari kuramukanya n'undi mugabo bigaragara ko agiye kumuha ubufasha, wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati itukura, irimo amabara y'ubururu.

Imodoka ikorerwamwo ubuvuzi bujyanye n'ibibazo byo mu mutwe ikaba yimukanwa, ni igikorwa cyatangiye ku mugaragaro mu Karere ka Bugesera, aho izajya isanga abaturage aho bari maze bakabasuzuma indwara zo mu mutwe.

Ikigo cy'ubuzima RBC ku bufatanye na Unicef, Umuryango Mpuzamahanga w'Abibumbye wita ndetse ukanarengera abana ku bufatanye kandi bwa Leta y'u Rwanda, barizihiza umunsi Mpuzamahanga wo kurwanya uburwayi bwo mu mutwe.

Abantu bari gutanga ikiganiro mbwirwaruhame, aho bari mu cyumba cy'inama, hari umugabo wambaje ikote n'agapfukamunwa ndetse n'umugore ufite indangururamajwi mu ntoki ze.

Umudamu ubona ko yashaririwe rwose yabihiwe, ntabwo yishimye habe na gato, akenyeye igitambaro mu mutwe, afite amaherena biragaragara ko hari ikitari kugenda neza mu buzima bwe.

Abantu batandukanye biyemeje kuba abazatanga ubutabera, ni umuryango utegamiye kuri Leta, barimo abagabo ndetse n'abagore, bose urabona ko bamaze kuganira bakaba bemeranyije ku ngingo runaka.

Hari igihe umuntu ahura n'ibibazo maze arwara mu mutwe bikamuviramo kujya ku gasozi, aho yirwa atoragura imyanda ndetse n'ibindi, uyu mugabo ni cyo kibazo yaje kugira, bene aba tujye tubegera tubafashe turebe ko bagaruka mu murongo muzima.

Icyumba kimaze kuberamo inama, yitabiriwe n'abantu benshi batandukanye, barimo abasore n'inkumi yewe ndetse n'abakuze, bakaba baganiraga ku burenganzira bw'abana batoya.

Umudamu wambaye ikote ry'umukara, ufite imisatsi igiye inyuma, akaba iruhande rwe hari icyapa kigizwe n'ibara ry'icyatsi, aho bari gushishikariza abantu gukoresha umurasire w'izuba.

Umusaza wicajwe hasi, wambaye agapira gatukura, akaba yashyizweho amapingu, biragaragara ko ashobora kuba ari icyaha runaka yafatiwemo, aho ashungerewe n'abantu benshi.

Abakobwa babiri bakaba bari kuramukanya bifashishije inkokora kubera ko ari mu gihe cy'icyorezo cya kovid cumi n'icyenda, bamba udupfukamunwa ndetse ntabwo bari kwegerana cyane kugira ngo batanduzanya.

Umugabo waciye bugufi nyuma yo kugera ku rwibutso rukuru rwa Kigali ruri ku Gisozi rurimo inzirakarengane zazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, afashe umwanya wo kunamira abazize ako karengane.

Yambaye amadarubindi. Igice cye cyo hejuru ntago kiri kugaragara neza. Afite ubwanwa. Iherina ku zuru. Ari kugaragaza ko mu menyo ye hasa neza, kuko yayitayeho akayakorera isuku ihagije.

Abaganga b'inzobere, cyane cyane mu buvuzi bw'amenyo, babiri barimo umugabo umwe wambaye uturindantoki n'agapfukamunwa, akaba yasamuye umwana, agirango ngo arebe mu kanwa ke nimba hari ryinyo rifite ikibazo.

Umugabo utagaragara ibindi bice bye by'umubiri usibye isura n'ibiganza gusa, afite akadodo kagenewe gukora isuku hagati y'iryinyo n'irindi mu rwego rwo kugira ngo duhore dukeye mu kanwa kacu.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi, urabona ko gikiye cyane, gifite amakaro, inkuta ndetse na parafo byose by'umweru, harimo udutebe dutatu tumeze nk'udutanda abarwayi baryamaho.

Umwana uri mu kigero cy'imyaka itatu ndetse n'itanu, yahuye n'ikibazo cy'uburwayi bw'amenyo none umuganga wambaye uturindantoki, ari kumwasamura areba mu kanwa ke kugira ngo amenye aho ikibazo giherereye.

Umusore uri gukora isuku mu menyo ye, yambaye umupira w'umweru, agaragara igice kimwe cy'isura cyo hasi kigizwe n'amenyo ndetse n'umunwa, ari gucishamo akadodo mu rwego rwo gukuramo imyanda.

Umusore ubona ko yishimye kandi ameze neza, yambaye agapira k'umukara, arogoshe ndetse afite n'ubwanwa, ari kumwenyura agaragaza ko isuku yo mu kanwa yayikoze neza.

Igice cyo mo imbere cy'amenyo kikaba kiri kugaragara ko hari amwe yangiritse bitewe n'uko atitaweho na nyirayo, iyi ni ishusho ifatwa n'ibyuma kabuhariwe mu gutahura indwara zo mo imbere.

Ihuriro ry'abantu benshi bicaye, barimo abasore n'inkumi. Harimo umugabo wicaye hasi yambaye ikote. Ubundi ibi ntabwo bijyanye. Kuba umuntu yaba yambaye kositimu akicara hasi akarambya.

Umuganga w'inzobere ku bijyanye n'ubuvuzi bwo mu menyo, akaba yambaye uturindantoki n'amadarubindi, aho ari kwita ku mwana ufite ikibazo k'iryinyo akaba agiye kurikuramo.

Umuganga w'inzobere cyane cyane mu bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo, yicaye ku ntebe y'icyatsi, akaba ari mu cyumba akoreramo ubuvuzi nubwo nta murwayi ugaragaramo. Yambaye impuzankano ibaranga y'umweru.

Umukobwa bigaragara ko akeye afite umusatsi kimeza hakaba hagaragara igice cyo hejuru, yafashe urutoki rwamukubita rukoko ndetse na nyagufi muri zo arabihuza, akaba ari kwerekana igice cy'amenyo ko ayakorera isuku.

Ku mwaduko w'icyorezo cya kovide cumi n'icyenda hagiye habaho ibintu bitandukanye birimo kuzajya bapima umurwayi aho hafatwa akuma kagakozwa mu muhogo kugira ngo bamenye nimba utaranduye icyo cyorezo biri gukorwa n'umuganga abikorera umukobwa.

Akana gatoya k'agakobwa kari ku gatanda, aho kari kuvurwa, gafite umusatsi uboheye inyuma, kakaba kari kumwenyura kasamye kugira ngo umuganga asuzume nimba amenyo yako yose ari mazima.

Umuganga w'inzobere cyane cyane mu bijyanye no kuvura amenyo, afite igikoresho yifashisha yigisha abandi kimeze nk'igikanka, aho afite n'akuma gashinzwe gukura amenyo, yambaye uturindantoki.

Kwa muganga, ukunze gusanga hari ibyumba byihariye biba bigomba gukorerwamo ubushakashatsi, aho uburwayi runaka buzanwa muri ibyo byumba maze bakabushakashaka, bagapima, ubundi bakabasha kubona igisubizo.

Ubuvuzi bw'amenyo ni bumwe mu bumaze gutera imbere, uyu mugabo yatewe ikinya kugira ngo nibamukura iryinyo atababara, biri gukorwa n'umuganga w'umugore wambaye impuzankano y'ubururu.

Umupapa uri kumwe n'umwana we bose bambaye imipira y'imyeru, akana gatoya kari gutozwa isuku yo mu menyo, aho bazajya bayikora bifashishije urudodo mu rwego rwo gukura imyanda mu kanwa.

Umugabo w'umwirabura, usutse utudirede hejuru, ari kumwe n'umuzungukazi ufite imisatsi myinshi. Icyo bahuriyeho ni ugukora isuku mu menyo, bifashishije akadodo gatoya.

Ubuvuzi bw'amenyo ni bumwe mu bukorwa higengeserewe, aha hari umusore watewe ikinya, abaganga batandukanye bari kumukoraho kugira ngo bamukure iryinyo ryagize ikibazo.

Umusaza abyutse mu gitondo akaba agiye gukora isuku mu menyo, yambaye amadarubindi, umusatsi we urimo imvi z'uruyenzi, akaba ari kwireba mu kirori, ariko afite imiti agiye kubanza kunywa.

Ibiganza byambaye uturindantoki, bifite icyuma cy'ikoranabuhanga mu biganza, aho ari gutunga urutoki ku gice cy'amenyo, bigaragarako ari umuntu wakorewe isuzuma ryo mu kanwa maze ibisubizo bye bikaba bigiye kumugeraho.

Umuganga w'inzobere cyane cyane mu kuvura amenyo, yambagiye impuzankano y'icyatsi, amadarubindi, agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki, ari kwita ku mwana uryamye ku gatanda aho yamwasamuye ngo arebe ikibazo afite mu kanwa.

Ni ngombwa cyane ko twita ku menyo yacu, kuko iyo ahuye n'ikibazo usanga bitagaragara inyuma gusa, ahubwo n'ingaruka zigeramo imbere, nk'uko biri kugaragara kuri iyi shusho iba yafashwe n'ibyuma kabuhariwe, mu kureba indwara umuntu arwaye.

Igikanka cy'amenyo kikaba kiri kugaragara ko harimo ayangiritse, nyuma y'uko abaganga bacishije mu cyuma, bakaba bari kwerekana ko uyu muntu atafashe amenyo ye neza kugira ngo atangirika.

Ni mu cyumba gikorerwamo ubuvuzi bw'amenyo, haragaragara agatebe gatoya k'ubururu kicarwaho n'umuganga, ndetse n'indi nini imeze nk'igitanda ariko yegamirwa yicarwaho n'umurwayi.

Akana gatoya kari mu cyumba cy'ivuriro, kakaba gafite umusatsi mwinshi, aho kari ku gatanda. Umuganga wambaye uturindantoki tw'icyatsi afite utwuma twabugenewe dushinzwe kuvura mu kanwa.

Umuganga w'inzobere mu kuvura indwara zifata mu kanwa, afiti ikintu ari guseseka mu kanwa k'umusaza, yambaye uturindantoki ndetse n'agapfukamunwa by'umweru, karuvati y'umutuku.

Icyumba kiberamo ubuvuzi, iburyo hari igice kimwe kirimo irangi ry'umweru n'umukara, hagati harimo udutebe ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi buteye imbere.

Ibyuma kabuhariwe byifashishwa mu buvuzi, cyane cyane iyo hari gukorwa isuzumwa ry'umurwayi, hari insakazamashusho zerekana uko ubuzima bwe buba buhagaze ndetse n'ikindi gikoresho cy'umweru, hari kandi n'intebe.

Umusore uri kumwenyura, wambaye ikote ry'ikoboyi ry'ubururu ndetse mo imbere yambayemo umupira w'igitaka, afite ubwanwa bukeya n'umusatsi muke, akaba ari guseka yishimye.

Umwana mutoya bigaragara ko afite ikibazo cy'amenyo yambaye agapira k'umuhondo ndetse n'amaherena, umusatsi we mwinshi uboheye inyuma hari umuganga wambaye uturindantoki ufite akuma kari kureba mu kanwa k'umwana ngo hamenyekane ikibazo afite.

Umusore wambaye agatuza ufite isume ku rutugu, akaba ari gukora isuku mu menyo ye yifashishije akadodo kabugenewe gasimbura uburoso kuko ko gakura imyanda iba iri hagati y'iryinyo n'irindi.

Umuganga w'inzobere mu gukora ubuvuzi bw'amenyo ari kwita ku murwayi uri ku gatanda kabugenewe, wambaye umupira utukura, bari mu cyumba cyiza, gifite isuku, aho gitatse amabara y'umuhondo.

Abana bari mu kigero k'imyaka cumi n'itatu na cumi n'itanu, bambaye imipira y'icyatsi kibisi yanditseho mu ibara ry'umuhondo ngo tubiteho, hari abantu koko bari kubitaho babakorera ubuvuzi bw'amenyo.

Umuganga w'inzobere mu kuvura amenyo ari kumwe n'umufasha we, bakaba bambaye impuzankano y'umukara bari kwita ku murwayi aho bari kureba mu kanwa ke, bafite ibikoresho byabugenewe bituma umurwayi atababara iyo bari kumwitaho.

Abantu batatu barimo umukecuru ufite umusatsi imvi zabaye uruyenzi, yambaye amadarubindi ari hagati y'abana be aho bagiye kumugaburira, umusore yambaye agapira gatukura, umukobwa yambaye aku mweru.

Abagore n'abagabo bari mu murima w'ibigori, bamwe bamanitse udusuka twabo dutoya, abandi bamanitse ibiganza hejuru ndetse n'amatelefoni, barishimye, baragaragaza ko umusaruro wabo uzaba umeze neza.

Umusaza ugeze mu zabukuru, ufite umupira w'ubururu ndetse n'umukecuru wambaye umupira utukura, imvi zabaye uruyenzi, umusaza afite ibinini mu ntoki, ku meza hateretse ikirahure cy'amazi, umukecuru ari kumwereka uko imiti igomba gufatwa.

Abageze mu za bukuru usanga na bo ubwabo baramenye ko bagomba kwitanaho kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kugenda neza. Umukecuru wambaye agapira k'ubururu bwijimye ufite imvi zabaye uruyenzi, azaniye umusaza amazi yo kunywa ndetse n'imiti ya mu gitondo.

Umukecuru ndetse n'umusaza bageze mu zabukuru bakaba bari kuganira, umukecuru yambaye umupira utukura, umusaza yambaye umupira w'ubururu, impeta ku rutoki, hari akantu ari kumwereka bakaba bishimye baseka.

Imyitozo ngororamubiri byaje kugaragara ko ishobora kuba irinda indwara zitandura, zirimo diyabete ndetse n'izindi. Ni yo mpamvu ikorwa n'ingeri zitandukanye, yaba abato n'abakuru nkuko uyu mubyeyi ari kubigenza.

Umugabo ugeze mu zabukuru umusatsi we urimo imvi ndetse n'ubwanwa ni uko, yambaye ishati y'igitaka ari gusoma igitabo, ikiganza yagikojeje ku gahanga biragaragara ko hari ikitari kugenda neza.

Umuganga wambaye impuzankano ibaranga, afite mu ntugu agakorero gapima uko umutima utera ndetse n'uko ubuzima bw'umurwayi buba buhagaze, hari umusaza ari kwitaho, ari kumwereka ibisubizo bye.

Abageze mu zabukuru, ni ngombwa ko bitabwaho mu buryo bwose kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza ndetse n'amasaziro meza, hari umusaza uri guhabwa ibya mu gitondo n'umuganga ushinzwe gukurikirana ubuzima bwe.

Abagabo babiri b'amajigija bari mu myitozo ngororamubiri, bari kugenda biruka ariko bacishamo bakaganira bagaseka, bafite uducupa tw'amazi yo kunywa mu ntoki zabo.

Umusaza ufite ubwanwa burimo imvi, yambaye ishati y'igitaka, ari gufatwa ibipimo n'umuganga w'inzobere, aho ari kureba uko umuvuduko w'amararaso we uhagaze, ni umuganga w'umukobwa wambaye umwambaro wera.

Umusaza wambaye umupira w'ubururu ndetse urimo n'uturongo tw'umweru, hari undi utari kugaragara neza bari gukina umukino uzwi nka dame, ni byiza ko abari mu karuhuko k'izabukuru bagira utuntu bahugiraho kugira ngo batitekerezaho.

Umusaza ugeze mu zabukuru afite umusatsi n'ubwanwa birimo imvi, afite telefone mu ntoki ze aho ari kwereka umukecuru nawe ufite urupapuro, biragaragara ko bari gukora ubushakashatsi ku miti bagiye kunywa.

Umugabo uri kwitabwaho n'umuganga w'umuzungu, wambaye ishati y'umweru iciyemo uturongo, ipantaro y'ubururu bwijimye. Ari gutangira kumutembereza kuko yari amaze igihe atabasha kugenda.

Umukecuru ugeze mu zabukuru akaba afite ikirahure cy'amazi giteretse ku meza, hari umuganga wambaye impuzankano y'ubururu akaba agiye kumuha umuti agomba kunywa mugitondo kugira ngo ubuzima bwe burusheho kugenda neza.

Umuryango w'abantu bishimye bagizwe n'umusaza ndetse n'umukecuru, umukobwa we yamusuye amuzanira abuzukuru be ndetse n'umukwe, bakaba bicaye mu ruganiriro aho bari kumwenyura.

Ihuriro ry'abageze mu zabukuru, barimo abakecuru bafite imvi zabaye uruyenzi, bose bari ahantu mu rutoki ariko bicaye ku ntebe nziza, baje kuganira urabona ko bishimye bari guseka.

Bicaye mu gacaca mu ruziga hari abadamu ndetse n'umugabo umwe w'umuzungu wakikiye akana gato, bari kuganira baseka, harimo umugore umwe uri kuboha igikapu.

Umusaza ufite ubwanwa bwo hejuru y'umunwa burimo imvi, yambaye amadarubindi, ari kwitabwaho n'umuganga, aho ari kumwereka utwitozo tworoheje agomba gukora tw'abantu bageze mu zabukuru, ni umuganga w'umudamu ufite imisatsi miremire imanuye.

Umuryango wishimye umeze neza, harimo umukecuru ufite abuzukuru ndetse n'abuzukuruza, aho bose bamusura bakamuganiriza ubundi akumva ameze neza.

Ni abasaza bicaye mu cyumba, bose biragaragara ko bageze mu zabukuru, hari abegamye ku gikuta cyo hirya barimo uwambaye umupira w'icyatsi ndetse n'uwambaye uw'umweru, abenshi muri bo bakenyeye ibintu bimeze nk'ibitenge.

Imyitozo ngororamubiri ntabwo yagenewe abakiri bato gusa, oya si uko bimeze, ahubwo n'abakuze barayikora cyane cyane ni bo baba bayikeneye mu rwego rwo kongera ubudahangarwa bw'umubiri wabo nk'uko aba bakecuru babiri bari kubigenza.

Umuganga w'umuzungukazi, yambaye agapira k'umweru, arenzaho agashati k'ubururu bwerurutse, aho ari kwita ku musaza ufite ubwanwa burimo imvi, ari kumwigisha kugenda kuko yari amaze iminsi, yaravunitse.

Mbirikanyi ndetse na Rugero ugeze mu za bukuru, bari kugenda baganira; aho bari mu busitani burimo akayira k'abanyamaguru. Urabona ko Rugero ari kugenda amubwira ati njyewe ngeze mu za bukuru, wa mwana we nawe uzabe umugabo.

Abategarugori batandukanye bicaye ahantu mu isoko, bakaba bacuruje inyanya nziza ndetse inyuma yabo haragaragara n'imbuto ziganjemo amaronji ndetse n'ibindi bicuruzwa biri muri iri soko, bakaba bari kuganira banacuruza.

Umusaza ufite imvi zabaye uruyenzi mu musatsi we mukeya arishimye, kuko ari kumwe n'umwuzukuru we barasa, bakaba bahuje amasura, akana gafite agakinisho mu ntoki zako.

Umusaza ufite umusatsi w'umukara n'ubwanwa burimo imvi, ari kwitabwaho n'umukobwa we, wambaye agapira k'umweru karimo utudomo tw'umukara, amuzaniye imiti ya mu gitondo, aho yari ari kuri mudasobwa.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo umugabo wambaye umwenda w'ubururu bwerutse, akaba atangiye guhaguruka nyuma y'uko yari yarahuye n'ikibazo cy'imvune, ari kwifashisha akuma gafasha umuntu kugenda amenyera.

Umusaza wambaye umupira w'icyatsi cyijimye n'ikote ry'umutuku werurutse, akaba afashe ku rutugu rw'umukobwa we na we wambaye ikote ry'ubururu, mo imbere harimo agapira k'umweru karimo uturongo tw'umukara, yambaye amadarubindi, bose bari guseka.

Batatu bari kumwenyura baganira, barishimye, bahuje urugwiro ari nako bari gukina umukino uzwi nk'amakarita, hari umwe uri kubwira undi uti uko byagenda kose ndagutsinda.

Umusaza ugeze mu zabukuru wambaye umupira w'imbeho w'umuhondo arigukina n'umwuzukuru we. Aho barigukina umukino wifashishwa mu ikoranabuhanga.

Umusaza ufite umusatsi n'ubwanwa birimo imvi, akaba yambaye amadarubindi, ari kumwe n'umudamu na we utangiye gukura wambaye ishati y'umweru, hari impapuro ziri ku meza ndetse n'urundi rumwe bombi bari gusoma.

Rumwe mu nkingo zifashishijwe mu rwego rwo guhashya icyorezo cya corona cumi n'icyenda. Kikaba kiri ku gipapuro cyanditseho amagambo y'ibara ry'umukara ndetse n'andi y'ibara ry'ubururu, rwatanzwe n'umuryango ushinzwe kurengera abana.

Icyumba kiri kuberamo inama bigaragara ko ititabiriwe n'abantu benshi, harimo intebe zitukura, harimo abagabo ndetse n'abagore, uhagaze imbere yabo afite indangururamajwi mu ntoki ze, ndetse hari insakazamashusho nini iri ku rukuta.

Ku kigo nderabuzima haragaragara abagore bicaye bateye umugongo, abenshi muri bo bakenyeye ibitenge, hari umwe wambaye ikote ry'umutuku ndetse n'ingofero bose barareba mu cyerekezo kimwe.

Mu cyumba kiri kuberamo inama hitabiriye abiganjemo urubyiruko, umukobwa wambaye ishati y'icyatsi ndetse n'ikanzu y'umweru iriho ibirabyo, afite indangururamajwi mu ntoki ari gutanga ikiganiro.

Itsinda ry'abana b'abakobwa, ubona ko bari mu kigero kimwe, bose bambaye impuzankano y'imipira y'imyeru, ndetse bakaba bagiye bafite utuntu turi mu ishusho ya mpande enye.

Icyumba kiri kuberamo inama yitabiriwe n'abantu benshi bicaye ku ntebe z'imituku. Harimo abagore ndetse n'abagabo, aho hari umwe uri imbere, wafashe indangururamajwi ari kubagezaho ikiganiro.

Madame Jeannette Kagame Nyakubahwa umubyeyi w'u Rwanda, akaba ari gutanga ikiganiro mbwirwaruhame ashishikariza abantu kwita ku bahuye n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe.

Mu bihe by'ibyorezo, abantu babanza guhabwa inkingo, harimo abaganga, abasirikare, abarimu ndetse n'abandi bantu b'ingenzi muri ubu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni igikorwa kiri kubera ahantu, aho umuganga bari kumuha urukingo.

Umuganga w'inzobere uvuga ati:" Ibi bintu twabigezeho kandi turashoboye", akaba ari umudamu ufite agapimo mu ijosi, kagerageza kumenya uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze.

Mu rwego rwo kunoza isuku mu ngo z'abaturage, Leta y'u Rwanda yashyizweho uburyo bwo kumena imyanda ivanguye, ibora ndetse n'itabora, aho ijya mu mifuka y'icyatsi ndetse n'ubururu, ifitwe n'aba bagabo ndetse n'umugore.

Ibiribwa bikomoka ku mbuto, imboga byose bitera imbaraga bikarinda umubiri kuba wakwataka n'indwara mu buryo bworoshye, byose bifatwa n'abakora imyitozo ngororamubiri.

Icyumba kiri kuberamo inama cyitabiriwe n'abantu benshi barimo abagabo ndetse n'abagore bambaye amakote, ku murongo w'imbere hari kugaragara umudamu wambaye imyenda isa, harimo akajipo k'akamini kagaragaza ibibero bye.

Ibimenyetso simusiga by'indwara y'ubushita bw'inkende, icyorezo cyagaragaye mu minsi ishize. Bikaba bigaragara ku mubiri iyo utangiye gushesha ibiheri ndetse ugatutumba.

Abagore bane, bose baje ku kigo nderabuzima, aho baje gukingiza abana babo, bari kuganira, bagaseka harimo umwe uri gusimbiza akana gato, abandi barabakikiye, bose barishimye.

Umuganga ari gukina n'akana, ni byiza ko iyo ugiye kuvura umwana mutoya mu rwego rwo kugira ngo atagira ubwoba umureka akakwisanzuraho nk'uko uyu ari kubigenza, akina n'igipimo cya muganga yifashisha amusuzuma.

Umukobwa ufite imisatsi ya menshi isutse igiye inyuma, yambaye agashati k'umutuku werurutse, ni ku munsi Mpuzamahanga wo kwita ku buzima.

Umujyi uteye imbere wubatse neza urimo inzu imwe igaragara nk'uruziga, n'izindi nyubako z'amagorofa menshi, hari amagambo yanditseho atanga ikaze ku munsi Mpuzamahanga w'abagore.

Indwara ya Diyabete, ni imwe mu zisigaye zizengereza abantu muri iyi minsi ya none, yewe ntago yita ku kigero cy'imyaka urimo, waba ukuze cyangwa uri mutoya, ni indwara isigaye itera abantu bose.

Icyapa kiri mu ishusho ya mpande enye, gifitwe n'abantu bagera kuri batanu, bose barimo hagati muri cyo aho bari guseka, biragaragara ko hari ikintu cyabanejeje.

Umusore wambaye ipantaro y'igitaka ndetse n'ishati, akaba yatebeje, ari kumwe n'umukobwa na we wambaye ipantaro y'igitaka, bombi bafite ibyapa mu ntoki byanditseho umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu.

Ni mu rugendo rw'amahoro rugamije gushishikariza abantu kwirinda Kanseri y'ibere. Rwitabiriwe n'abiganjemo urubyiruko, bambaye impuzankano y'imipira y'imyeru.

Mu cyumba cyo kwa muganga hari kugaragaramo abavuzi, aho bicaye mu matsinda abiri. Barimo abakobwa n'abahungu, bari mu cyumba kiberamo ubushakashatsi.

Icyumba kiberamo imyitozo ngororamubiri yiganje guterura ibyuma ndetse n'ibindi bitandukanye, harimo ibyuma byabugenewe abantu bicaraho iyo bari gukora iyo myitozo ngororamubiri, yewe harimo n'igice birukankiramo.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, kirimo ibyuma bigezweho abantu bifashisha birukankaho, aho umuntu aza akishyura amafaranga maze akajya agira abantu bamutoza bamukoresha imyitozo ngororamubiri.

Inyubako nyinshi ariko zose zisa, zikaba zubakishije amatafari ahiye ahagana mu rubavu rwayo ahandi hasize amarange y'umweru, mu birahuri byayo harasa icyatsi, hari urujya n'uruza rw'abantu baje kwaka serivisi kuri izi nyubako.

Inyubako nziza ifite inkuta, hari hejuru ahari akabara k'icyatsi ahandi hose higanjemo umweru, ni ibyumba birwarirwamo abarwayi biri kugaragaramo udutanda ibice bitoya.

Icyumba kinini kisanzuye, kikaba gifite iba ry'igitaka hasi, ku mpande hariho intebe ndende z'imbaho, bikaba bigaragara ko iki cyumba ari icyo kwa muganga ndetse kinakorerwamo imyitozo ngororamubiri.

Inyubako nziza ikaba igaragaraho ubusitani buri mu mbuga yayo, bugiye buteyemo ibiti bitarashibuka neza, hari n'utuyira tugendwamo n'abayiganaho baje kureba serivisi, ifite kandi n'ibigega bifata amazi ava ku mabati.

Inyubako nini igeretse kabiri, ikaba ikorerwamo ubuvuzi hari abantu bahahuriye bose bambaye impuzankano z'ubururu biragaragara ko ari abajyanama b'ubuzima, imodoka imwe iparitse inyuma y'uruzitiro indi irimo imbere.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi, aha ngaha hakaba habera igikorwa cyo kubaga, ariko biragaragara ko hagenewe abana kuko hari ibishushanyo birangaza abana, mu rwego rwo kugira ngo batagira ubwoba.

Umwana mutoya bigaragara ko afite ikibazo cy'amaguru, akaba atabasha kugenda neza, ari mu kagare kahariwe abafite bene ubwo bumuga, imbere ye hari inyubako nziza isize amarange y'umweru aho ari kureba ahirengeye.

Inzira nyabagendwa igana ku bitaro, hari icyapa kiri imbere yaho kiriho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse n'ikirango cy'ibyo bitaro bya gisirikare haragaragara iminsi n'amasaha bakora n'uburyo bakoramo.

Inyubako icururizwamo imiti , iruhande rwayo hahagaze imodoka y'umukara ndetse imbere haragaragara akuma gato k'umutuku, kifashishwa mu guhangana n'inkongi y'umuriro mu gihe yaba yatatse aho hantu.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igice gitoya umuganga akoresha nk'ibiro, hari intebe yakiriraho umurwayi ndetse na mudasobwa iteretse ku meza y'icyatsi n'umweru, hakaba harimo nawe intebe yicaramo.

Mu cyumba gitunganyirizwamo imiti, harimo abaganga b'inzobere barimo abagabo batatu ndetse n'umugore umwe uri hagati yabo, icyo bahuriyeho ni impuzankano ndetse n'udupfukamunwa bose bambaye.

Imbuga yisanzuye ishashemo amapave, hakaba hari icyuma gishinzeho amabendera, rimwe n'iry'Igihugu cy'u Rwanda, kigizwe n'ibara ry'icyatsi, umuhondo n'ubururu, imbere hakaba hari inyubako nini yita ku bana.

Mu cyumba cy'uruganiriro haragaragaramo intebe zikoze neza mu rubaho zifite imisego ifite ibara ryenda gusa nk'ivu, mu nguni hateye ururabo, ifite ameza atatu yose adasa.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi cyane cyane ubwo kubaga, indwara ziba zananiranye; kirimo ibikoresho, hejuru hari amatara amurika neza, kugira ngo abari muri icyo gikorwa, baze kuba bareba neza buri rugingo rw'umurwayi.

Inyubako yuzuye vuba, ikaba ari iy'ibitaro, ifite inkingi nini ebyiri z'umukara zifashe igisenge, imwe yegamweho n'umukobwa wambaye umupira w'umuhondo n'akajipo k'igitenge.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, yiganjemo iyo guterura ibyuma, hari udukoresho twabugenewe abantu birukanka ariko batari kuva aho bari ndetse n'utundi tunyongerwaho amagare.

Abantu batanu barimo abagore bane, umwe yambaye agakote gato k'umweru, yakarengeje ku ikanzu y'amabara, hagati muri bo harimo umugabo wambaye ijaketi y'umukara ndetse n'ishati y'umweru.

Ububiko bw'imiti usanga buri ahantu hatekanye kuko ari kimwe mu bintu by'ingenzi, iyi miti iramutse ibitswe nabi, yakwangirika maze yazahabwa abaturage, aho kugira ngo ibakize ikangiza ubuzima bwabo.

Ububiko bw'imiti n'inkingo buba bugomba kuba bufite umutekano usesuye. Aha ngaha hari utubati, bigiye bipanze ku murongo ku buryo icyo bakenera biborohera kukibona, bidapanze mu buryo bw'akajagari.

Umuganga w'umudamu, wambage itaburiya y'umweru, afite imisatsi isutse igana inyuma, ari kwita ku murwayi uri ku gatanda wambaye agapfukamunwa ndetse n'ingofero, aho ari kumutera urushinge.

Inyubako nziza cyane ubona ko ikorerwamo ubuvuzi hari igice cyifashishwa n'abaganga bita ku barwayi umunsi ku wundi, aha akaba ariho wabasanga kugira ngo bagufashe.

Ubusitani bwisanzuye burimo ubwatsi butoshye, hirya haragaragara inyubako nziza ikaba ari iy'ibitaro by'akarere ka Nyarugenge, ifite igice kimwe kigizwe n'amabara y'umweru.

Mu gisenge cy'inyubako igaragara nk'uruganda rutunganya inkingo ndetse n'imiti, haragaragaramo ibyuma ndetse n'amatara agiye ari mu byiciro ane nta muntu n'umwe urimo ndetse harisanzuye.

Inzu y'ababyeyi iri kugaragaraho abantu benshi batandukanye bategereje kwakira abaza bayiganamo, hari umugabo uri kureba muri telefone wambaye ikote ry'umukara, hari n'umudamu uhagaze wambaye agapira k'ubururu.

Ibitaro bikuru bya Kabgayi biherereye mu ntara y'Amajyepfo ho mu karere ka Muhanga, hagaragara umuntu uri kurenga yinjirayo ufite igare n'undi mukobwa wambaye imyenda y'ubururu, uhagaze ahagana hepfo.

Ni inyubako icuruza imiti ikaba ari iy'uwitwa murekatete akaba afite nimero yazero karindwi umunani umunani itanu gatanu mirongo irindwi mirongo icyenda ahangaha ushobora kuza kuhagurira imiti ukeneye.

Ni mu ihema ry'umweru, aho hari abaganga babyukiye kwita ku barwayi. Bose bambaye impuzankano y'umweru, hari umwe uri gupima umurwayi, aho yamushyize igipimo ku kuboko.

Mu cyumba gisize amarangi y'umuhondo, hariho igitanda kiryamyeho umudamu urwaye ukenyeye igitenge, aho ari guterwa urushinge n'umuganga wambaye amadarubindi ndetse n'itaburiya y'umweru.

Inzu y'ababyeyi izwi nka materinete yuzuye vuba kuko bigaragara ko itaratangira gukorerwamo, yubakishije amatafari ahiye, igisenge cy'ubururu mu ibaraza ryayo hazengurutse udutambaro tw'ubururu, twerekana ko itaratangira gukorerwamo.

Inyubako nziza cyane, ikaba igaragaramo ibyuma bifasha kuzana umuyaga ndetse mu gisenge harimo n'ibifata amashusho. Harasa neza hateye amarangi y'umweru, nta muntu uri kugaragaramo.

Inzu y'ababyeyi yubakishije amatafari ahiye, inkingi eshatu ziri mu ibaraza zisize irange ry'umweru, hari utwuma tuyikorotiriye, irimo ubusitani burimo indabyo.

Umukobwa uri mu cyumba kivukiramo abana maze akaba ari kwita ku gahinja gatoya kavutse, yambaye impuzankano y'icyatsi ndetse n'akarindamutwe k'umweru, ari gusekera akana gatoya.

Umukozi w'Ikigo Gishinzwe Ubuzima mu Rwanda wambaye akajire k'umukara kariho ibiranga nyine icyo kigo akorera ndetse n'umwenda w'umweru, akaba ari gusuzuma umuntu, aho yamushyize igipimo ku kaboko ke.

Amarembo magari y'ibitaro bikuru bya Kabgayi biherereye mu ntara y'amajyepfo, bikaba biri kugaragaramo abantu bake barimo umwe uri kubyinjiramo ufite igare ndetse n'undi mukobwa wambaye imyenda y'ubururu.

Inyubako itunganyirizwamo inkingo ndetse n'imiti, ikaba iri kugaragara inyuma mu bubiko bwayo, aho hari ibyuma kabuhariwe bishinzwe gutunganya ndetse no kubika ibiba byamaze gukorerwamo.

Udushashi twose turimo amaraso yatanzwe n'abagiraneza, aya ngaya yifashishwa mu gihe umuntu yatakaje amaraso menshi bakayamwongerera, ni igikorwa cy'urukundo buri wese akwiye kuba akora.

Icyumba kinini cyagutse, gikorerwamo ubushakashatsi ndetse n'ubuvuzi, kirimo ibyuma bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abaganga b'inzobere iyo bari kwita ku barwayi.

Ikigo nderabuzima cya Rwerere, kikaba kigizwe n'amatafari ahiye, mu mbuga yacyo hari indabyo ziconze neza, hari umugabo uri gutambuka utagaragara neza ndetse kikaba gifite ibisenge bimena hombi.

Inyubako y'ikicaro gikuru gikorerwamo ubuvuzi, ikaba iri mu mabara y'umweru ndetse icyapa cyayo kiriho amabara y'umutuku ndetse n'umweru, mu mbuga haparitse imodoka ebyiri.

Inzu igurirwamo amadarubindi haragaragaraho abantu bayambaye y'ingano zitandukanye ndetse n'ubwoko butandukanye, aho bakubwira ngo ngwino ugure amadarubindi ubundi tukongeze andi y'ubuntu.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi butandukanye, aho kigaragaramo icyuma gicishwamo abarwayi iyo bari gusuzuma ibibazo bitandukanye bagiye bafite kugira ngo hatahurwe uburwayi bwabo.

Icyumba kinini cyane, kikaba kirimo ibimeze nk'ibitanda ndetse n'utubati, kikaba cyakira abantu benshi cyane bafite ibibazo by'uburwayi ariko cyubatse neza mu buryo buteye imbere.

Icyumba gikorerwamo ubushakashatsi ku bijyanye n'ubuvuzi, kirimo abaganga b'inzobere, barimo abagabo babiri n'abakobwa babiri, hari umwe uhagaze, wambaye umupira w'umukara n'undi uri gusuka ibintu mu kirahure, bari gukoreraho ubushakashatsi.

Urujya n'uruza rw'abantu ni rwo rugaragara imbere y'inyubako ikorerwamo ubuvuzi, abenshi muri bo bambaye imipira y'icyatsi, bamwe baragenda abandi bagaruka, hirya hari ihema rishinze ririmo abantu baryicayemo.

Umugangakazi wambaye impuzankano y'ubururu bwijimye akaba ari mu cyumba aho ari kwita ku murwayi uryamye ku gitanda, afite ibintu ari kugenda amutunganyiriza.

Icyumba gikeye cyane kiberamo ubuvuzi buteye imbere, kikaba gifite inkuta zisize amarangi y'umweru, harimo icyuma kiriho insakazamashusho ifasha mu kugenzura uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze.

Icyumba kirimo ibyuma byinshi by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abavuzi b'inzobere, gisize amarangi y'umweru, kikaba gikeye, gisa neza, harimo insakazamashusho igenzura uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, kikaba cyifashishwa n'abaganga b'inzobere, aho aha ngaha ari mu cyumba gitunganyirizwamo imiti ndetse n'ibindi bishobora gufasha abarwayi kumera neza.

Inyubako nziza yubakishije amatafari ahiye, ifite imiryango isize amarange y'umweru, hariho icyapa kinini kerekana ibikorerwa muri iyi nyubako iri hakurya y'umuhanda.

Icyumba cyo kwa muganga, kikaba kirimo buri gikoresho cyose gishobora kwifashishwa n'umuganga w'inzobere, harimo insakazamashusho zigaragaza uburyo ubuzima bw'umurwayi buba buri kugenda n'igitanda aryamishwaho.

Ububiko bukaba n'urukuta rukora umuti ndetse n'inkingo, hariho udutara turi kwaka ibara ry'icyatsi, ikaba ari inyubako nini yisanzuye ifite igisenge kiri gucamo ibyuma.

Inyubako y'ibitaro ikaba igaragara ko nta muntu uyirimo ariko buriya bari mu byumba, hari igice kimwe kiri ibumoso, kigaragara inkuta ziriho amarangi y'umuhondo.

Ahantu hahuriye abantu benshi, hari inyubako igeretse rimwe yubakishijwe n'amatafari ahiye, hari abagore babiri begamye ku rukuta rw'amabuye, bakenyeye ibitenge bari kuganira, iruhande rwabo hari umusore uri kwandika mu ikayi.

Mu cyumba cyo kwa muganga aho hari abarwayi bari mu bitaro, baryamye ku bitanda, umwe yiyoroshe ishuka y'ubururu undi yiyoroshe ishuka y'umweru, hamanitsemo inzitiramibu mu rwego rwo kwirinda Malariya.

Mu cyumba gikorerwamo ubuvuzi, harimo umuganga w'inzobere akaba afite umuti mu ntoki, ikiganza cyiwe cy'iburyo cyambaye uturindantoki tw'ubururu, kiri gukanda ku byuma kabuhariwe by'ikoranabuhanga.

Ni ihema riri gukorerwamowo ubuvuzi butandukanye, hari umugabo wambaye amasogisi y'umweru aciyemo uturongo tw'umukara, yambaye ipantaro y'igitaka, ari kwitabwaho n'umuganga w'umukobwa, wambaye itaburiya.

Mu nzira nyabagendwa hari amakona ari mu muhanda, icyapa cyanditseho umujyi wa Kigali kiri kuranga abagiye mu cyerekezo, hariho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Ni inyubako yubatswe neza ku buryo bugezweho, aho iteyemo ibiti biri mu busitani bwayo butoshyeye, ikaba ifite amayira abiri agenda agana ahatangirwa serivisi, hari abantu batatu bari mu gice cy'ibumoso bari kugenda bayiganaho.

Inyubako y'igorofa rimwe biragaragara ko ikiri nshyashya, hari abagabo babiri bari hirya bari kuyimanukaho, hashinze Ibendera ry'igihugu, mu busitani bw'ubwatsi butoshye ndetse hari imodoka iparitse hafi aho ngaho.

Igiti cy'inganzamarumbo ubona ko gitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku bantu bose barimo, munsi hari umugabo wicaye ku rukuta rw'amabuye wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara.

Inyubako nziza zubatswe mu buryo bugezweho. Hari igice kimwe kiriho iz'uruziga rwa muviringo n'ikindi kiriho inzu zisanzwe. Ibi ni ibitaro byiza byubatswe mu buryo bugezweho.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi ikaba igeretse kabiri yubakishije amatafari ahiye, imbere yayo hagaragara ibinyabiziga byinshi byiganjemo amabara y'umukara, hari n'umutaka w'umuntu ucuruza serivisi z'itumanaho.

Inyubako nziza ikaba igizwe n'imiryango y'imbaho iriho igisenge cy'ubururu, ndetse n'icyapa kinini kigaragaza ko ari ahakorerwa, ubuvuzi bw'amaso.

Umwana mutoya akaba yambaye ikoti ry'umukara, aho azanye umusaza ufite ikibazo cyo kutagenda neza, icyumba bari kwerekezamo cyabereyemo amatora, kuko hari uwiteguye kubakira.

Ibitaro bya Shyira biba byubatse ku buryo bugezweho, aho biri mu nyubako igeretse isize amarange y'umweru, na ho ibiranga aho hantu byandikishijwe ibara ry'umuhondo.

Ni ibitaro binini cyane ubona ko bishobora kwakira abarwayi benshi, haragaragara umuntu uri mu kayira k'abanyamaguru uri gutambuka ndetse n'undi uri hejuru mu ibaraza ry'inyubako, hirya mu busitani hari ibendera ry'Igihugu.

Inzu nyinshi zitandukanye ziri ahantu hamwe zubatswe mu buryo bugezweho. Zikaba zirikugaragaramo ubusitani butewemo indabyo. Hari abantu bagiye bari mu byiciro bitandukanye baje kwaka serivisi kuri izo nyubako.

Icyumba kirimo icyuma kabuhariwe cyifashishwa n'abavuzi b'inzobere, iki ngiki ni kimwe mu bisuzuma abarwayi bafite indwara zitari kugaragara neza aho bagicamo kugira ngo babashe kwitabwaho.

Ku kigo nderabuzima cya Gishweru cyubakishije amatafari ahiye, hari kugaragara mu ibaraza abantu bagera kuri bane, harimo umuganga uri hagati ndetse n'undi mudamu wambaye umupira w'umutuku.

Ikigo nderabuzima cya Remera-Rukoma, iki ngiki ni igice gifasha abantu bahuye n'ibibazo byo guhohoterwa, cyane cyane abangavu, cyubakishijwe amatafari ahiye, inkingi ifashe ibaraza, iri mu ibara ry'umweru.

Ameza ateretseho imbuto ndetse n'imboga, byifashishwa mu gusubiza intege mo umubiri iyo umuntu amaze gukora imyitozo ngororamubiri, hari umutobe ukorwa muri izo mbuto.

Ikizingo kifashishwa mu kuvura abantu, gikoreshwa ku bantu bahuye n'ibibazo by'imvune cyangwa se ibikomere, kiri mu ishusho y'umuzenguruko, kikaba gifite ibara ry'ubururu.

Ibikoresho byifashishwa mu itumanaho ni byo biri hano, hari ibisakaza amashusho akaba manini, hari umuzungukazi uri kuri telefone, aho ari guhamagara ndetse afite n'urupapuro rw'umutuku mu ntoki ze.

Umukobwa wumutse, ubona ko yakoze imyitozo ngororamubiri. Yambaye agasutiye k'umukara ndetse n'agakora, aho yicaye ku gatapi ari kugorora umubiri we, imbere ye hari mudasobwa n'utundi tuntu ari kwifashisha turi ku ruhande.

Abantu bakora imyitozo ngororamubiri usanga bakenera ibikoresho bitandukanye birimo n'uturindantoki, uyu muntu utagaragara isura ye amaboko ye yombi afashe kuri aka karindantoki k'umukara.

Umukobwa wambaye agasengeri k'umutuku ndetse n'utwuma tujyana ajwi mu matwi, yambaye isaha y'umukara ku kuboko, yahuje amaboko yombi hejuru, aho ari kugorora imitsi yiwe.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, akaba yicaye mu busitani b'ubwatsi, yambaye agaseri gato kagaragaza inda n'umugongo gatukura ndetse n'agakabutura karimo amabara y'ubururu n'umweru.

Ikiganza cy'umugabo gifashe mu gatuza ubona ko uyu mubiri nyirawo yakoze umwitozo ngororamubiri uhagije, ntago isura ye igaragara ariko yagize ikibazo cy'imvune ku kaboko kuko hashushanyije.

Ikirenge n'agatsinsino bigaragara ko byahuye n'ikibazo cy'imvune, ahagana mu kagombambari kuko hashushanyije, kikaba gihagaze ku gitambaro cy'ubururu bwijimye.

Mu mahugurwa ari gutangwa n'urubyiruko, aho bari kwiga ku kuba batanga ubutabazi bw'ibanze, barimo abakobwa babiri bahagaze bari kureba abari gutabara umuntu uryamye ku ihema ry'ubururu.

Uducupa dutatu turi mu mabara amwe ariko tukaba turi mu ngano zitandukanye, hari tubiri dupfundikiye n'akandi kamwe k'imbere gapfunduye, tukaba turimo umuti ugabanya uburibwe.

Ku meza ariho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri. Aho harimo utwuma duto duterurwa mu kiganza. Umunzani ushobora gupima ibiro, ndetse n'imetero ishobora gupima ingano, ibiganza bibiri birikwandika ku rupapuro.

Umuryango utabara imbabarire ku isi hose, uzwi nka croix rouge, bari mu mahugurwa, agamije kwigisha bamwe mu bawinjiyemo vuba, uko bashobora gutanga ubutabazi bw'ibanze ku muntu waba uhuye n'ikibazo.

Mu gukora ubuvuzi bw'ibanze, usanga haba hakenewe igikapu cyifashishwa mu kubika buri kantu kose gashobora kwifashishwa mu gihe baba bagiye gutabara umurwayi wahuye n'ikibazo runaka.

Imikino itandukanye ikinwa mu buryo butari bumwe, uyu nguyu bawita Rugubi, aho ukinwa n'abantu baba bafite imbaraga kuko usaba intege nyinshi, yewe habamo no kugundagurana.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, cyane cyane iyo guterura ibyuma biremereye, aho bituma umuntu yongera bimwe mu bice by'umubiri we, ndetse akanagira ubuzima bwiza.

Agatanda kazwi nk'ingobyi iramira abarwayi, aka kifashishwa mu bintu bitandukanye ariko cyane cyane ahabereye imikino bagashyiraho umuntu iyo agize ikibazo cy'imvune byaba ngombwa bakamusohora hanze y'ikibuga.

Inkweto y'umukara ikomeye ikaba iriho akapa kanditseho o bato, iyi ngiyi bikaba bigaragara ko ari iyifashishwa n'abantu bagiye ku rugamba, ikaba izamuye iteretse ku isima.

Ikiganza gifashe ijage yo mu cyuma, ndetse kikaba kiri gusuka amazi mu kirahure, ni byiza ko twese twita ku mazi yo kunywa akaba asa neza kugira ngo ataba yadutera indwara zitandukanye.

Ibikoresho byifashishwa mu butabazi bw'ibanze birimo imiti itandukanye ari yo ibipfuko, amabande bazirika abantu bahuye n'ibibazo by'imvune, ndetse n'indi miti igabanya uburibwe.

Abantu baba barahuye n'ibibazo bakamugara amaguru ku buryo baba batakibashije kugenda, hari utugare twabugenewe tubafasha kuva ahantu hamwe bajya ahandi, nk'aka ngaka k'umukara n'ubururu.

Umuganga w'inzobere cyane cyane mu kuvura imvune yambaye impuzankano ibaranga, afite agakoresho gapima uko umutima utera mu ijosi rye, hari umuntu uryamye ku gatanda wagize ikibazo mu ivi aho ari kumwitaho.

Ibikapu by'umutuku byifashishwa n'abagize Croix rouge, bakaba bashinzwe gutabara aho rukomeye biragaragara ko habereye imikino ndetse n'imyidagaduro, baricaye bategereje ko uwagira ikibazo wese bahita bamuha ubutabazi bw'ibanze.

Umugabo uri mu cyumba kirimo ibyuma byinshi by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi, ahantu nta kabuza ni mu cyumba cyo kwa muganga, yamba uturindantoki, inkweto z'umweru.

Umuntu wambaye ikoboyi y'ubururu, akaba yahuye n'ikibazo cy'imvune aho bita mu kagombambari, aho ikiganza cyiwe gifite akantu k'ubururu, kikaba cyagashyize aho ngaho yagize ikibazo cy'imvune.

Umuryango utabara imbabare ku Isi hose, uzwi nka croix rouge, ukorera hirya no hino ndetse no mu Rwanda. Ukunzwe kurangwa n'ikimenyetso cy'umusaraba gitukura.

Mubazi iteretse ahantu h'umukara, ahari imibare hari ibara ry'icyatsi, iyi ikaba yifashishwa mu gukora imibare itandukanye, iruhande rwayo hari umugozi ushinzwe kuyifasha kubona umuriro w'amashanyarazi.

Mu kibuga kiberamo imikino ngororamubiri ndetse n'imyitozo, hari umutoza ufite imipira ibiri mu ntoki , ndetse n'umukinnyi we uvuye mu mvune, uri gutangira kumenyera kugenda gake gake.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho yafashe akaboko k'iburyo, agakoza inyuma ku gitugu. Ak'ibumoso gafashe mu nkokora, aho ari kwigorora. Yambaye agasengeri k'umukara.

Ububiko bw'imiti bugizwe n'amayetajeri apanzemo amakarito, iyo inganda zimaze gukora iyi miti, ziyohereza ku mavuriro atandukanye, na yo akagira ububiko bwizewe aba agomba gushyirwamo.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze. Harimo ibipfuku, amabandi ashobora kwifashishwa n'umuntu wahuye n'ikibazo cy'imvune, ndetse n'imiti bamupirizaho mu gihe bari kumugabanyiriza uburibwe.

Umusore wambaye ikabutura y'umukara ndetse n'isaha ku kaboko, yari mu muhanda hagati ari kwirukanka akora imyitozo ngororamubiri, ariko yongera kugira ikibazo cy'imvune mu ivi, aho ari kuri kanda bigaragara ko yagize uburibwe.

Agatanda gato kagendanwa kifashishwa mu butabazi bw'ibanze, iyo umuntu agize ikibazo bashaka kumwerekeza ku bitaro, bakamuterekaho iyo bagiye kumwinjiza mu modoka.

Umusore uri kunywa amazi, aho yari asoje imyitozo ngororamubiri, yambaye agakote k'icyatsi kibisi gafite ingofero, iruhande rw'aho yicaye hari igikapu cy'umukara.

Ni abantu babiri baje mu myitozo ngororamubiri ariko babanza guca aho biyamburira bakanashyira ibikapu byabo, umwe w'umusore yicaye ku ntebe ari kunywa amazi, undi w'umukobwa ari kwinanura arahagaze.

Umuntu uri kwitabwaho n'abaganga wahuye n'ikibazo k'imvune mu kiganza, nyuma y'uko yari ari gukora imyitozo ngororamubiri maze akaza gukomereka, ari kwitabwaho n'umuganga amupfuka aho yagize ikibazo.

Hari ibintu bitandukanye twungukira mu gukora imyitozo ngororamubiri. Aho tugabanya umuvuduko w'amaraso ndetse tukagabanya umuhangayiko, aho uburinganire bw'umubiri wacu na bwo bubasha kuba bwagenda neza.

Yambaye akajire k'icyatsi, umupira w'umutuku, afite imisatsi iboshye n'iherena ku gutwi, icyuma mu ntoki, akaba ari gusuzuma umwana, bigaragara ko afite ikibazo cy'uburwayi.

Agatanda gatoya kazwi nka burankari, kakaba kifashishwa mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze, aho umuntu ugize ikibazo cyane cyane ababa bari mu mikino ngororamubiri, bahita bamushyiraho ubundi bakamwihutana kwa muganga.

Umusore wambaye agakora k'umukara, aho bigaragara ko yakoze imyitozo ihagije, ariko yagize ikibazo cy'imvune mu ivi, aho bahashushanyije n'amabara y'ubururu n'umutuku, mu gihe bitegura kumuvura.

Umugabo wagize ikibazo cy'imvune akaba ari gukora mu itako biragaragara ko ariho ari kubabara, yambaye agakabutura gato k'umukara. Hari amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ugenekereje mu Kinyarwanda ni urugendo ku buzima bwa siporo ndetse n'ubuvuzi muri icyo gisata.

Icupa riteretse mu mazi naryo rikaba ririmo amazi meza yo kunywa, ni ngombwa ko dukwiye kuba dufata amazi asukuye, kuko aramutse yanduye yakwangiza ubuzima bwacu.

Icyuma cyifashishwa n'abaganga ndetse n'abandi bantu bakora imyitozo ngororamubiri, aho kibafasha gupima iminota bakoze, kiri kugaragaramo isaha ya saa saba n'iminota mirongo ine n'ibiri.

Ibikoresho byifashishwa mu mikino ngororamubiri, ibingibi bishobora kukuviramo kubikora nk'umwuga maze ukajya uhembwa, hari umupira w'amaguru, uw'intoki ndetse n'uturindamutwe twifashishwa muri iyo mikino.

Umuganga w'umukobwa wambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'uturindantoki tw'umweru, ari kwita ku murwayi wari umaze iminsi atabasha kugenda, aho ari kumumenyereza yifashisha icyuma cyabugenewe.

Uburyo butandukanye umuntu ashobora gukoramo imyitozo ngororamubiri, harimo ubwo kunyonga igare ritava aho riri, harimo ubwo kugendagenda umuntu atirukanka, guterura ibyuma ndetse n'ibindi.

Agakarito gafite amabara atandukanye, igice cyo hejuru kinini kirimo ibara ryijimye ry'ubururu. Ikindi kirimo umweru. Hepfo hari icyatsi giciyemo uturongo tw'umukara. Hakaba harimo ibipfuko byifashishwa, mu kuba umuntu yakomeretse bakamupfuka.

Umukobwa wari uri mu myitozo ngororamubiri ari kwirukanka akaba ageze aho ananiwe, akaba ari kuruhuka aho yunamye agafata mu mavi, yambaye inkweto z'icyatsi ndetse n'isengeri, agakabutura gatoya k'umukara.

Imiti izwiho kugabanya uburibwe, ikaba iri mu moko atandukanye. Hari iyo basiga nk'amavuta, ndetse n'iyo bapuriza. Iyi yose yifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri.

Uducupa dutatu twose dusa kandi tungana, higanjemo ibara ry'umweru turapfundikiye hariho igipapuro kirimo amabara atandukanye umuhondo, ubururu ndetse n'andi, turimo umuti ugabanya uburibwe.

Umuntu wahuye n'ikibazo cy'imvune ku kaguru, akaba ari mu cyumba gikorerwamo ubuvuzi bwita ku bagize bene ibyo bibazo, ari kwitabwaho n'umuganga wambaye ishati y'umweru, hari icyuma bamushyize ku kaguru kiri kumufasha kumererwa neza.

Imbago ni igikoresho kifashishwa n'abantu bagize ibyago bagahura n'ubumuga, butuma ingingo zabo zibafasha kugenda zidakora neza, uwahuye rero n'icyo kibazo barayimuha, ashobora kwifashisha imwe cyangwa ebyiri bitewe n'uburemere bw'ikibazo cye.

Igikapu gitoya ariko gitwara ibintu byinshi bitandukanye byifashishwa mu gukora ubutabazi bw'ibanze, harimo inshinge, imiti, ibinini ndetse n'ibipfuko bitandukanye, kiri mu ibara ry'umutuku.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi bw'amenyo. Kirasa umweru ahantu hose. Hamanitsemo isaha. Harimo intebe ebyiri, imwe yicarwaho n'umuganga ndetse n'indi yicarwaho n'umurwayi, zose zikaba zisa ubururu.

Umugabo bigaragara ko afite inyota kuko ari gusoma kumazi yambaye agapira k'ubururu bwijimye , isaha ku kuboko afite agacupa mu ntoki arikugotomera ku mazi.

Umurwayi wahuye n'ikibazo cy'imvune ku kaguru, akaba ari mu cyumba cy'ivuriro, aho yashyizweho ibyuma bimufasha kugorora akaguru kiwe kugira ngo azongere abashe kugenda. Yasuwe n'abayobozi b'ubuzima, aho ubona ko bari kwishimira uburyo ari kwitabwaho.

Ikiganza cy'umuzungu kikaba gifashe agacupa karimo amazi yo kunywa haragaragara igicu cyerurutse. Ni byiza ko tugomba kunywa amazi asukuye, mu rwego rwo kugira ngo tubungabunge ubuzima bwacu.

Abana bari mu kibuga gikinirwamo imikino y'intoki baracyari batoya bose barishimye kuko imikino ihuza abantu, umwe muri bo afashe umupira maze awohereza mu gakangara bose bari kureba ko uri buze kujyamo.

Insakazamashusho nyinshi, zitandukanye, zifashishwa n'abaganga mu buryo bwo kugira ngo bagenzure uko ubuzima bw'abarwayi buhagaze, zikaba ari eshatu zifatanye.

Ni umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri ahanini iba igamije gutuma umuntu akomera ndetse akongera n'ingano yiwe, iruhande rwe hari imbuto zitandukanye umuntu afata nyuma yo gukora iyo myitozo kugira ngo umubiri we ukomere.

Akuma gasuzuma uko umutima w'umurwayi utera, kari hamwe n'ibikoresho byifashishwa mu mikino ngororamubiri ndetse n'imikino njyarugamba. Hari imipira y'amoko atandukanye, ikinwa.

Umukobwa wari uri mu myitozo ngororamubiri akaba agezemo hagati akagira inyota, none ari gusoma ku mazi afite agasume ku rutugu, yambaye umwenda w'ubururu ndetse n'icyatsi.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yambaye agakola karekare k'icyatsi cyerurutse ndetse n'agasengeri k'icyatsi kijimye, yafashe ukuguru agushyira inyuma aho ari kugorora.

Umugore wambaye ishati y'umweru, akaba afite n'akantu mu ijosi, akaba yavunitse mu nkokora, aho ari gushyiraho ibiri butume agabanyirizwa uburibwe, yambaye impeta mu rutoki.

Ibitaro by'ingabo z'igihugu, biri kurangwa n'ikirango nyine cy'umutwe w'ingabo z'igihugu ndetse n'ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda, bakaba bakora ubuvuzi butandukanye.

Umusore wambaye imyambaro y'umukara hose, akaba ari gukorera imyitozo ngororamubiri iwe mu rugo. Ukuguru kumwe yagupfukamishije, ukundi aragushinga. Yifashe mu matako, biragaragara ko ari mu myitozo ya mu gitondo.

Umuganga w'inzobere uri mu cyumba gikorerwamo ubuvuzi, afite ikintu cy'umutuku mu ntoki, yambaye umwenda w'umweru, imbere ye hari akuma kifashishwa mu guhangana n'inkongi y'umuriro.

Umugabo wahuye n'ikibazo akagira imvune yo mu ivi ikaba ibabaza cyane, yambaye ipantaro y'ubururu ukuguru kumwe yagukunje kugira ngo ashyireho ibimugabanyiriza uburibwe.

Umusore uri iwe mu rugo muri saro, aho ari gukorera imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda y'umukara, afite umusatsi uboheye inyuma ndetse n'ubwanwa, aho ari kugorora umubiri we.

Igikapu gitukura kimwe kirafunze, ikindi kirafunguye, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze, harimo imikasi, ibipfuko, ibindi bintu byinshi bashobora kwifashisha batanga ubutabazi.

Nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri ni ngombwa ko umuntu wese aba agomba kunywa amazi kugira ngo umwuma utamwibasira, hari umusore wambaye agapira k'umukara, ufite icupa mu ntoki, akaba ari gusoma ku mazi.

Umuganga wambaye impuzankano y'umweru ntabwo ari kugaragara neza isura, ari kwita ku mukobwa ubona ko yagize ikibazo cyo mu ivi, yamushyizeho udupfuko tw'umweru ndetse n'ak'umutuku.

Umukobwa wambaye agapantaro k'umukara ndetse n'agasengeri, akaba ari kunywa amazi, biragaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri, kuko yafashe telefoni ayizirikira ku kaboko.

Icyumba kirimo icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu gusuzuma umurwayi maze bagatahura indwara irimo mo imbere, kikaba gifite ibara ry'umweru ndetse n'iry'ivu mu mpande.

Ni ibimera utabasha gusobanukirwa neza ubwoko bwabyo ariko abazwi nk'abavuzi ba gihanga babikoramo imiti imwe bakunze kwitayeya kinyarwanda barabitunganya bakabisekura ubundi bikavamo imiti gakondo.

Ishyamba ririmo ibimera birimo ibiti byinshi by'amoko atandukanye ndetse n'indabyo, ibi byose byifashishwa n'abaganga bakora ubuvuzi bwa gakondo aho bikorwarwamo imiti itandukanye.

Agacupa gacuritse gafite ibara ry'umweru ndetse ku mutwe wako ariko washyizwe hasi karasa ubururu, kakaba karimo serumu, iyi ngiyi iravura cyane abarwayi.

Agasekuru gatoya ndetse n'umuhini wako, ibimera bitandukanye bitegerejwe kujya muri ako gasekuru, ubundi bigakurwamo uwo umuti, dore ko hari n'agacupa karimo uwamaze gukorwa.

Umugabo ufite ikibabi cy'igiti kirimo umuti, akaba yambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'umukara, aho ahagaze imbere y'inyubako, ari kwerekana uburyo ki iki kimera gishobora gutunganywa kikavamo umuti.

Ibimera bigiye bifite imimaro itandukanye, ariko igikakarubamba cyo gifite imimaro myinshi cyane, kuko gishobora gukurwamo imiti ivura ibisebe, ibikomere ndetse kikanavamo amavuta n'amasabune.

Ibirahuri birimo ibibabi by'imiti, nyuma y'uko byasoromwe bikaza gushyirwa aha ngaha, bakaba babishyize mu mazi kugira ngo bihuzwe n'ayabyo maze bivemo umuti wo kunywa.

Ibiganza bitagaragara nyirabyo, bifite agasekuru mu ntoki ndetse n'agahini gatoya, biragaragara ko ari gusekura ibibabi biba byaturutse mu bimera kugira ngo bivemo umuti wa gakondo.

Udushashi tw'amabara atandukanye tukaba turimo udupfukamunwa, nkuko byanditse mu rurimi rw'Icyongereza, harimo utw'ubururu, utw'umweru. Udupfukamunwa twifashishwa mu gihe cy'ibyorezo ndetse n'iyo abantu birinda kwanduzanya n'abandi.

Agacupa k'umweru karimo umuti gateretse ahantu h'umukara, kakaba kandiditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, hariho akamenyetso k'ikiguruka aha harimo umuti uvura.

Akabido karimo imiti ikorwa mu bimera kakaba gafite umufuniko utukura ko karasa nkaho ari ibara ry'ivu, kakaba karimo amasabune ashobora kwifashishwa gukora isuku mu mutwe.

Amacupa arimo ibisukika by'umukara, bikaba byarakozwe mu bimera, uyu akaba ari umuti gakondo. Aho abantu bawunywa maze bagakira indwara nyinshi zitandukanye.

Ikimera cy'igikakarubamba kikaba gikorwamo ibintu byinshi bitandukanye, kivamo amavuta yo kwisiga afasha uruhu kumera neza, amasabune ndetse kikanakorwamo imiti itandukanye.

Amababi y'icyatsi kibisi, akaba ari umuti wifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, ibi ngibi abaganga bavura Kinyarwanda barabisoroma bakabyanika bakazabisekura bikavamo umuti.

Udusahani dutandukanye dukozwe mu ibumba turagaragaramo imiti gakondo y'ubwoko bwinshi, harimo indabyo z'umweru n'umuhondo, harimo iz'amabara y'ubururu, ay'iroza byose biri ku meza.

Agacupa gatoya gafite ibara ry'umweru kometseho igipapuro kiriho amagambo agaragaza neza akanasobanura ibirimo mo imbere ndetse n'uburyo bishobora kuba byakoreshwa.

Ibyatsi n'ibiti imizi yabyo byose biri gutunganwa bishyirwa mu isekuru n'umuntu wambaye umwenda w'icyatsi, aho yitegura kubisekura akabyanika ubundi bikavamo umuti gakondo.

Ikibabi cy'umuravumba kikaba ari kimwe mu bikurwamo umuti ushobora kuvura indwara zitandukanye, zirimo inkorora, zirimo amibe ndetse n'izindi nyinshi.

Ikimera cyitwa igisura kizwiho kuba gifite amahwa, giteye mu murima urimo n'ibindi bimera bitandukanye, byose bikaba byifashishwa mu gukurwamo imiti ya gakondo.

Uducupa ndetse n'udukombe dutandukanye, turimo amavuta, imiti, byose bikaba bikorwa mu bimera, harimo tubiri tw'icyatsi dusa n'utundi tw'ubururu, twose turimo amavuta ndetse n'imibavu bikomoka ku bimera.

Agacupa k'ubururu bwijimye kariho amagambo y'umweru, kakaba mo imbere karimo amavuta yifashishwa mu gutuma uruhu rumera neza rugahehera ukaba ukeye.

Ishu ni kimwe mu bimera byifashishwa nk'ikiribwa, aho ari imboga zirishwa ibintu bitandukanye ariko nanone rishobora kuvamo imiti gakondo kuko ryifashishwa n'abavuzi.

Akabati karimo udukombe turimo imiti yose ikomoka ku bimera, yagiye yanikwa irasekurwa maze ikurwamo ifu, indi na yo yakuwemo ibisukika yose ibasha kuvura abantu.

Umurima uteyemo ikimera byifashishwavuzi bwa gakondo, iki ni kimwe muri byinshi byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, ni ngombwa ko aho tubibonye tubisigasira.

Agacupa kari mu ibara ry'umweru, gapfundikije umufuniko utukura kariho amagambo ndetse n'akamenyetso k'ikiguruka, kakaba kariho ikimera cy'igikakarubamba biragaragara ko umuti urimo ukorwa muri icyo kimera.

Udusorori twinshi dukoze mu ibumba, tukaba turimo ibimera bitandukanye, yaba amababi, indabyo by'amabara menshi. Ibi byose bigiye gutunganywa, maze bikurwemo umuti wa gakondo.

Agashashi k'umukara karimo imiti ituruka ku bimera, inganda zitunganya bene ibi ngibi ziba zigomba kubifunika ahantu heza hizewe, mu rwego rwo kugira ngo bitazangirika nyamara bitaragera ku bo bigenewe.

Udusahani dutandukanye iruhande rwako hariho ameza ariho akantu k'umuzani, uri kugenda upima ibi bimera by'amoko atandukanye birimo iby'amabara atukura, ay'umukara ndetse n'andi menshi.

Ibimera bigizwe n'igiti kiriho amababi y'icyatsi kibisi atoshye, bikaba byose byifashishwa mu gukora ubuvuzi bwa gihanga, aho bimwe byanikwa bigasekurwa ubundi byamara gutunganywa bigahabwa abarwayi.

Agacupa k'umutuku, karimo amagambo yandikishije ibara ry'umweru akaba ari icyo kunywa kiba kidasembuye ahubwo gishobora kongera imbaraga mu mubiri w'umuntu, mu gihe yakoze imyitozo ngororamubiri.

Agacupa gatoya gafite umufuniko w'umweru kari ku meza y'urubaho, kakaba kariho umuti wifashishwa mu gusukura intoki, iyo dukorakora ku bintu hari udukoko tuba dushobora kudutera indwara, aka ngaka rero iyo ugashyize mu biganza gahita karwanya utwo dukoko byihuse.

Ni agakombe kari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru, hariho amagambo yandikishije ibara ry'ubururu ndetse hariho ikirango kiriho agakeri gatoya kakaba kari mu ibara ry'umukara.

Udusahani tw'umukara turimo amoko atandukanye y'ibimera, byamaze gusoromwa bigashyirwamo, bikaba bigiye gutunganywa bimwe bikanikwa maze bigasekurwa, bigakorwamo umuti wa gakondo.

Akabido kari mu ibara ry'ubururu, gafite umufuniko w'icyatsi, kakaba karimo ibisukika byiganjemo amavuta ashobora gukoreshwa ku mapikipiki ndetse n'amamodoka.

Icyanya giteyemo indabyo ndetse n'ibindi bimera, byose bikaba byifashishwa n'abavuzi ba gihanga, aho babitunganya maze bigakurwamo imiti ya gakondo ishobora gufasha abarwayi batandukanye.

Amashashi, uducupa, udukarito ndetse n'udukombe byose birimo imiti, amavuta ndetse n'ibindi byifashishwa mu kuvura gakondo biba byakomotse ku bimera.

Icyatsi kizwiho kuvura igikomere, aho ugishyira ku gisebe ubundi kigahita cyuma. Ariko urababaza cyane bisaba kuba uri umuntu wihangana, kiba gifite uturabyo hejuru.

Ubwoko butandukanye bw'uducupa ndetse n'udukarito, tukaba turimo imiti ikomoka ku bimera, yiganjemo ikorwa mu gikakarubamba ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umunsi mpuzamahanga nyafurika, wizihiza gukoresha imiti ya gakondo, wabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri makumyabiri na kabiri. Hari kugaragara amababi, nyine yifashishwa muri ubwo buvuzi.

Agasekuru k'umweru kari n'agahini kako, harimo amababi kagiye gutangira gusekura kugira ngo akurwemo umuti uraza kuba umeze nk'uri muri utu turahure tubiri twose tungana.

Agakarito kari mu mabara atandukanye arimo ay'ubururu ndetse n'umweru kakaba karimo imiti, ni byiza ko iyo ibintu bimaze gutunganywa mu nganda bishyirwa mu bintu bituma bitangirika mu buryo bworoshye.

Ikimera kirandaranda, kiriho indabyo z'iroza ndetse n'amababi y'icyatsi, iki ngiki ni kimwe mu bishobora gukorwamo umuti, kikaba kivura indwara zitandukanye bikozwe n'abavuzi ba gakondo.

Agasekuru kabajwe mu buryo butangaje kari kumwe n'umuhini wako, biri ku meza adenduyeho ibimera byinshi byanitswe bikuma bivamo umuti gakondo, kakaba gashinzwe kubisekura.

Amoko ndetse n'ingano zitandukanye by'uducupa gusa byose biriho ikirango kimwe, harimo utw'umutuku, icyatsi ndetse n'utundi turimo ibinyobwa biryohera byifashishwa n'abantu b'ingeri zitandukanye.

Amacupa atandukanye harimo aya purasitike ndetse n'ay'ibirahuri, yose arimo ibisukika bitandukanye, biragaragara ko ari abavuzi gakondo bagiye basekura ibyatsi maze bakabikamuramo amazi avamo imiti.

Hari ibintu byinshi bikorwa mu bimera, bimwe bikavamo amasabune yo gukaraba mu mutwe ndetse no ku ruhu, ibindi bikavamo imiti aribyo binini ndetse n'ibindi. Utu ni utubido n'uducupa turimo ibyakozwe mu bimera.

Agacupa kamwe ndetse n'agakombe gato byose bikaba birimo amavuta, akaba akorwa mu bimera, bikaba bituma uruhu rw'umuntu rumera neza cyane.

Umurima munini cyane uhinzemo icyayi, haragaragara abiganjemo ab'igitsina gore, baje kucyuhira ndetse n'ikimaze kwera, bakaba bari butahe bagisaruye.

Icupa, udukombe, udukarito, biri mu byiciro bitandukanye. Ibi byose birimo imiti yakozwe hifashishijwe ibimera, bikaba bivura indwara zitandukanye.

Uducupa tubiri turimo imiti y'uruhu, umuntu ugize ikibazo mu isura akagira ibishishi cyangwa se ibiheri ashobora kwifashisha aya mavuta ubundi isura ye ikongera ikaba nziza.

Uducupa dutandukanye turi mu mabara menshi ndetse n'ingano zatwo ntabwo ari zimwe, twose turimo ibinyobwa byifashishwa mu gusubiza intege, abantu bakoze imyitozo ngororamubiri.

Ikiguri cy'inzuki ndetse kikaba kiri inyuma y'udukombe dutatu, harimo kamwe kari hagati gasumba utundi. Hari icupa ririmo ubuki bwavuye nyine muri izo nzuki turi kuvuga; hari indabyo ziri ku meza.

Uducupa ndetse n'udukarito duteretse ahantu hamwe, utwinshi muri two turacuritse, tukaba turimo amavuta, imiti n'ibindi byo kwisiga byose bikorwa mu bimera, bikaba bituma uruhu rumera neza.

Indimu isatuye irimo ibice bibiri, igitunguru kimwe cyose n'ikindi basatuye, byose bikaba ari bimwe mu bintu bishobora kuvura inkorora, bikaba ari ubukangurambaga buri gutangwa n'abitwa Baho neza.

Agacupa gafite umufuniko w'umuhondo, kariho igipapu cyerekana umuti urimo mo imbere, bikaba bigaragara ko wakozwe mu kimera cyitwa umuravumba, bakacyanika, bakagisya, ubundi kikavamo iy'ifu turi kubona.

Ni ahantu hateye ibimera byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, haragaragara iby'umutuku ndetse n'iby'amababi y'icyatsi, ibi byose byifashishwa n'abavuzi bavura indwara za kinyarwanda.

Agakarito k'icyatsi gafite ibara ry'umweru kanditseho f cumi na gatanu, hariho umukobwa uri kwiruka, iruhande rwako hateretse utubuni tubiri dufite ibara ry'umuhondo.

Uducupa dutandukanye tw'amabara menshi ndetse dukozwe mu buryo butandukanye, twose tukaba dupfunyitsemo imiti gakondo, haragaragara abantu benshi baje kugura iyi miti.

Uducupa dutatu, kamwe karaturutu, kakaba kariho ikimenyetso cy'umutuku cyanditseho ko ari umuti uhabwa abana bakiri bato, ku ruhande naho hari ikirahure nacyo gishobora kuba kirimo umuti.

Igihingwa cya tungurusumu ni kimwe mu bishobora gukoreshwa nk'amafunguro ndetse icyarimwe kandi bikaba byanakoreshwa nk'umuti, dore ko byifashishwa mu bavuzi ba gakondo aho babikuramo imiti.

Ubuvuzi bwa gakondo ntabwo bukorwa n'abirabura gusa n'abazungu barabukora yewe bakabukora mu buryo bwiza. Hari agasekuru n'agahini kako by'umweru ubona ko bifite isuku birimo gusekura imiti ya gakondo.